Abantu batandukanye bahagaze ahantu hamwe ndetse bambaye amataburiya y'abanyabuzima, harimo umugabo muremure wambaye ikoti ndetse hakaba n'ibiti by'inganzamarumbo inyuma yabo.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka icumi, ari guseka yishimye cyane akaraba kuri kandagira ukarabe. Ni indobo nini irimo ibara ry'icyatsi, hasi y'iyo ndobo hateze ibase na yo iri mu ibara ry'icyatsi.

Abana bambaye imyenda y'imihondo bicaye ku mukeka, bari kunywa amata mu bikombe ndetse harimo urubyiruko rwinshi ruri kubafasha kunywa, hakabamo n'umupolisi w'inyenyeri eshatu na we uri gufasha abo bana.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri bari ku kigega buri wese afite igikombe, bari kunywa amazi ndetse hari ubakuriye mukuru kuri bo urimo urabasukiramo amazi.

Abantu batanu bishimye bari kwifotoreza imbere y'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ryanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru, bambaye impuzankano isa, hejuru bambaye imipira y'ubururu, hasi bambaye amapantaro ari mu ibara ry'umukara.

Abagore batatu ndetse n'abakobwa babiri, bahagaze ku ivomero rusange batonze amajerikani yabo ku mariba bategereje ko bafungurirwa amazi.

Inyubako nziza irimo abagore n'abagabo ndetse abenshi muri bo bambaye amataburiya y'akazi y'umweru, hari n'umuzungu wambaye ikanzu y'umutuku ubarimo hagati, bose barekuye igipfunsi bashyize imbere urutoki rw'igikumwe hejuru.

Ni mu gihe cy'icyorezo abantu bambaye udupfukamunwa ndetse hari umwana barimo kubwira ngo ntiyasame bigaragara ko hari uburwayi afite bagira ngo bamufashe.

Abantu b'abadamu bahagaze ku iriba bazanye injerekani nyinshi kuvoma ariko hari umuntu uri imbere y'iriba neza bategereje ko abafungurira amazi bakajya bavoma.

Abana bane b'abahungu bari ku iriba, umwe muri bo ari gukurura icyuma kugira ngo amazi aze, bateze injerekani y'umuhondo, abandi bahagaze ku ruhande bari kumwitegereza bareba uburyo abigenza.

Icyumba kigali kirimo abagabo n'abagore bicaye mu ntebe z'abanyacyubahiro, bambaye neza ndetse buri ruhande rwabo hari akameza gateretseho icupa ry'amazi, biragaragara ko bari mu kiganiro.

Abana batoya cyane, bari mu kigero cy'imyaka itanu, n'abandi bari mu kigero cy'imyaka itandatu. Bose bazanye utuvido ku iriba, bari kuvoma amazi, inyuma hari umukobwa mukuru uri kubapompera itiyo, ngo rizane amazi.

Inyubako isakaje amategura ndetse ikaba ifite n'ibirahuri, harahagaze abagore benshi batandukanye bamwe muri bo bambaye amajiri bigaragara ko hari icyo bashinzwe, bakaba baje guhugura abo bandi ndetse hari n'indabyo iruhande rw'iyo nyubako.

Abana b'abakobwa b'abanyeshuri bari ku iriba, bari gukaraba intoki aho bavomera amazi, bigaragara ko basoje gukora umurimo runaka bakaba bagiye gukaraba intoki cyangwa bakaba bagiye gufungura, akaba ariyo mpamvu bari gukaraba, iruhande rwabo hari ibiti.

Iriba ryubatse mu buryo bugezweho rimena amazi mu mpande zaryo zose, rizengurutswe n'abantu batandukanye ubona ko bashishikariye kuvoma ayo mazi.

Umwana wunamye yambaye umupira w'umutuku n'ijipo y'ubururu, yunamye ku iriba ari kuvoma amazi mu gikombe ndetse biragaragarako hari utuzi duke, hirya yaho hari ibiti n'ibimera byinshi bitandukanye.

Inyubako ngari ndetse ifite ikibuga kinini gitandukanye hari ubwogero bugezweho bwubatse hejuru, hakaba harimo abantu barimo kujyayo bigaragara ko hari ahantu hasobanutse uko uharebesha amaso.

Inyubako irimo umugore wicaye ku ntebe ndetse imbere ku meza hari icupa ry'amazi, muri iyo nyubako kandi harimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, bigaragara ko ari ahantu harimo haberamo inama.

Icyumba kigari kiberamo inama, harimo abantu benshi baturutse impande n'impande ndetse hari abicaye imbere ku rubuga, bigaragara ko aribo bayoboye iyo nama, hari amafoto atandukanye ari ku rukuta, bigaragara ko ariyo barimo kwibazaho ibibazo byinshi bitandukanye.

Icyapa kinini gishushanyijeho umubumbe w'isi hejuru hari uturongo dutatu turi mu ibara ry'ubururu, hasi hariho uturongo dutatu turi mu ibara ry'icyatsi hasi y'uwo mubumbe hari amagambo maremare yanditse mu ibara ry'ubururu.

Abagore n'abagabo bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'ubururu, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko baganiragaho. Bari mu nyubako kandi biragaragara ko inama bari barimo bayisoje.

Icyumba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye ndetse bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hari icupa ry'amazi, hagati hakabamo n'indabyo, bari ahantu hari ifoto ku rukuta, bigaragara ko ari iy'umuyobozi wabo.

Umugore uri ku iriba ari kumwe n'umwana ndetse hari n'abandi bana bari kuzunguza icyuma kugira ngo amazi aze, hateretseho ibasi y'umutuku ndetse hari n'ijerekani y'umuhondo indobo y'umweru, hafi aho hari inzu bigaragara ko ari ku muhanda, hakaba hari n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda idoze mu gitenge, asutamye ku iriba aho yagiye kuvoma, hateretse amajerekani menshi kuri iryo riba ndetse arimo gukaraba intoki, iruhande rw'iryo riba hari ibimera byinshi bitandukanye ndetse n'ingiga y'igiti iharambitse.

Abana benshi bakoze uruziga hamwe bari mu kigero cy'imyaka itanu, bahurije hamwe amaboko ubona ko babyigana bashaka guhuza amaboko, ubona ko bishimye cyane.

Ku mugezi hari aho bacukuye bategaho ikivovo kugira ngo bajye babona uko bavoma amazi, harimo umukobwa wunamye wambaye ipantaro y'umukara uri kuvoma amazi, ndetse hari n'akana gato kicaye iruhande rw'uwo mugezi.

Ku iriba hari abagore batatu; babiri barimo kuzunguza icyuma kugira ngo amazi azamuke, ndetse undi atezeho indobo ku mureko. Kandi hari kuzaza amazi menshi. Iruhande rwabo hari ibiti, inyuma y'ahazitiye.

Ababyeyi bizihiwe no kwifotoza, bambaye imyenda isa y'amajeri ari mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse abandi bambaye imipira, bafite utwapa turimo icyatsi kibisi ndetse n'abandi bakikiye abana.

Abantu bane bahagaze imbere ku rubyiniro, inyuma yabo hari urumuri ruri mu ibara ry'icyatsi kibisi ariko rwanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere yabo harambitse icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ariko icyo cyapa cyo kiri mu ibara ry'ubururu.

Abana bane bishimye bari gukarabywa intoki na se, afite amazi mu gikombe ari kujya abasukira ku ntoki andi mazi bamaze gukaraba agwa mu ibase iri hasi.

Umwana muto uri mu kigero cy'imyaka itanu, ari ku iriba aravoma hejuru y'iriba hari undi mwana uri kumusunikira icyuma kugira ngo amazi amanuke, haruguru ku muhanda hari abandi bana batambuka bigaragara ko bavuye ku ishuri.

Abantu benshi bari mu nyubako, bicaye ku ntebe z'imikara ndetse imbere yabo ku meza, hariho ikayi n'ikaramu, hakaba n'icupa ry'amazi. Biragaragara ko imbere hicaye abayobozi, bigaragara ko aribo bayoboye ikiganiro.

Abagore bambaye imipira y'imyeru, bateruye abana batoya cyane. Ndetse abo bana bambaye imyenda y'impuzankano y'umuhondo ndetse n'abari kubitaho na bo barimo kubabaha amata na bo bambaye imyenda isa nk'iyabo. Kandi urabona ko ari benshi cyane.

Abantu benshi bahagaze mu matsinda yewe hari n'abicaye mu matsinda ubona ko bafite ibyo bari kuganiraho. Hari n'abandi bari kwitegereza hirya y'aho hari ikidari giteguye, imbere yabo hari ibindi bihuru ubona ko hahinze ibimera bitandukanye.

Umukobwa uri mu rugo iwabo, ateretse injerekani ku mureko. Ndetse hari n'ibasi hafi y'aho ari hari n'imyenda yanitse ku mugozi, bigaragara ko amaze gufura, kandi arimo kumesa n'indi yasigaye. Hari n'amabasi abiri agerekeranyije.

Ku iriba hari umwana wazanye indobo nini y'ibara ry'umuhondo, ni nini cyane arimo kuyiterura ubona ko yamunaniye, iruhande rwe hari umugabo umufashije ingata bigaragara ko ashaka kumushyirira ku mutwe.

Icyumba kinini kiberamo inama kirimo abantu benshi bibumbiye mu matsinda, itsinda rya mbere ririmo abantu abagore n'abagabo, imbere yabo hagati hari ameza arimo igitambaro cy'umweru, imbere yabo hari ku meza hari mudasobwa, baraganira bungurana ibitekerezo.

Abana babiri bari kuvoma amazi mu cyuzi, umwe mukuru n'undi umwe mutoya, umwe mukuru afite injerekani nini, hanyuma umutoya afite akajerekani gato, ayo mazi bakaba bari kuyadaha mu cyuzi.

Abantu benshi batandukanye, barimo guterura imifuka, bayishyira ahantu hamwe bayitondeka. Harimo abagore n'abagabo. Ndetse urabona ko iyo mifuka ari myinshi cyane, bari kuyirunda ahantu mu kibuga.

Abantu benshi bahagaze mu kibuga ndetse abandi bicaye ubona hateguyemo ikidari, iruhande rwabo hari inyubako ndetse hari n'imodoka iparitse haruguru y'abo bantu.

Urugomero rw'amazi. Hazengurutseho ibyuma, ndetse hubakiye neza. Hagati muri ayo mazi harimo ikindi cyuma, ndetse hakaba n'ikiraro kijyamo aho hagati. Ku ruhande hari utundi tuzu na two dutoya, tuhubatse.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kimwe, ubona barangamiye ahantu hamwe nkaho bari guhabwa inyigisho, bose bambaye imipira y'umweru.

Abana bambaye imipira y'umutuku bicaye ku mukeka. Ndetse hari abagabo ,abagore ndetse n'inkumi n'abasore. Bari kumwe n'abo bana barikubaha amata, bari kuyanywera mu bikombe.

Umusaza ugeze mu za bukuru yicaye mu ntebe imbere y'ameza, bamwambitse imashini mu kaboko bari kumusuzuma barebe uko amerewe, imbere hari abandi baforomo bari kwita ku bandi barwayi babasuzuma.

Hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'inkweto z'umweru ndetse n'ipantaro y'ikaki, ari hagati y'abagore n'abagabo bamwe bateruye abana abandi ntabo bateruye, bari mu nyubako nini cyane ifite irangi ry'umweru bigaragara ko baje kwa muganga.

Umugabo wunamye uri gukaraba kuri kandagira ukarabe wishimye cyane, yambaye ipantaro n'inkweto by'umukara ndetse n'ishati y'amaboko iri mu ibara ry'ubururu.

Abana babiri bari mu kigero cy'imyaka icumi, bari ku iriba, bose ubona ko bishimiye ko baje kuvoma. Bari kuvomera mu ndobo nini z'umweru, umwe yafunguye robine, amazi ari kujyamo ari menshi.

Icyapa kinini cyane gishushanyijeho igorofa cyanditseho umwaka bibiri na makumyabiri na kane hariho n'andi magambo yanditseho manini agaragara mu ibara ry'umweru.

Umubyeyi yajyanye umwana kwa muganga biragaragara ko arembye. Ariko arimo kwitabwaho n'umuganga kuko iyo ugeze kwa muganga ukitabwaho ukira vuba.

Icyumba kigari cyo kwa muganga, harimo abagore benshi batandukanye bateruye abana. Hari uhagaze wambaye igitenge kirimo amabara atandukanye, afite ifishi y'umwana ndetse anamuteruye. Bigaragara ko baje kubakingiza.

Akaboko k'umuntu uri gukaraba akoresheje nyine akaboko kamwe, ku itiyo rinini cyane rizana amazi menshi, ari gukaraba amazi amanuka ava mu itiyo andi amanuka ajya hasi mu cyuzi.

Umukecuru uri ku iriba avomera injerekani zitandukanye zo mu ibara ry'umuhondo ukenyeye igitenge wifubitse umupira w'ingofero hasi hari ifoto yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ariko ifoto muri rusange yo ikaba iri mu ibara ry'ubururu.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka icumi yambaye utwenda turi mu ibara ritukura arishimye cyane ari gukaraba, hasi hari ibase iteze amazi, ari gukaraba ajyamo.

Inyubako igeretse kabiri iri ahantu hari izindi nyubako zitandukanye, hakaba hari n'ibyubakiye hanze birimo amazi, bigaragara ko ari uruganda ruhakorera, hakaba ruri gutunganya ibintu bitandukanye.

Icyumba kinini kiberamo inama hicayemo abayobozi batandukanye harimo uwicaye mu mutwe uyoboye inama imbere yabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ririmo amabara atatu ubururu, umuhondo, n'icyatsi kibisi imbere yabo hicaye abazungu babiri umugabo n'umugore ku meza hari ibitabo n'amacupa ari mo amazi.

Icyumba kirimo abagore babiri ndetse n'abana babiri bicaye ku ntebe ngufiya bigaragara ko ari kwa muganga bategereje serivisi ndetse muri icyo cyumba barimo, harimo ibishushanyo byinshi byometse ku rukuta.

Umuganga w'umusore wambaye itaburiya y'umweru ari gusuzuma abarwayi ugezweho aka kanya ni umukecuru uteze igitambaro cy'ubururu, inyuma yabo hahagaze umusore wambaye ijiri bigaragara ko ari umukoranabushake.

Inyuma y'urukuta rw'inyubako hari umugore n'umwana ndetse bari mu murima w'imboga kuko bigaragara ko ari dodo ndetse umwana hari izo yateruye afite mu ntoki.

Umuforomo wicaye atera urushinge umubyeyi w'umukecuru, umukecuru yasinziriye bigaragaza ko ari kumva uburibwe, akikiye igikapu mu ntoki ndetse n'umupira.

Umugore uri ku iriba afite ikidomoro kinini yatezeho kiri mu ibara ry'umuhondo, arunamye ategereje ko cyuzura ndetse inyuma ye hari ibyatsi byinshi bitandukanye bimaze gukura, ndetse akaba afite n'akandi gatoya ataravomera.

Abantu benshi bambaye neza amakoti, abagore amakanzu. Bahagaze mu nyubako nini irimo icyumba kiberamo inama, ndetse kandi hari icyapa kiri imbere. Bahagaze nk'abantu bari kwifotoza.

Abagore bambaye imyenda y'imyeru, bateruye abana bambaye imyenda y'umuhondo, ndetse abari kubitaho babagaburira bambaye na bo imyenda isa nk'iyabo. N'umupolisi uri iruhande rwabo bigaragara ko ibyo bintu birimo n'umutekano.

Icyumba kirimo abaganga benshi batandukanye, bagose igitanda bose bambara udupfukamunwa n'ingofero bambaye imyenda isa, hari umurwayi uryamye agaramye ku gitanda bamwasamuye umwe ari kumukura iryinyo.

Umwana wikoreye injerekani, ndetse iriho icyapa cy'umuryango ushinzwe kurengera abana. Ari guseka cyane, ndetse iruhande rwe hari umugabo wazamuye akaboko, ari kugakora ku njerekani. Afite isaha ku kuboko.

Abagore babiri bicaye imbere yameza, bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo hateguye ibitambaro biri mu ibara ry'ubururu, umwe yambaye ikote ririmo utudomo tw'umweru n'umukara ndetse n'umupira w'umukara, bose bashyize ibiganza ku meza.

Abanyeshuri batandukanye baje kwa muganga ndetse hari ugezweho uri gutegwa urushinge ku kaboko ndetse yambaye inifomu, ndetse n'umuganga nawe yambaye impuzankano yabo.

Umwana w'umukobwa uri gukaraba akoresheje kandagira ukarabe, uwo mwana akaba yambaye ishati y'amaboko magufi iri mu ibara ry'umuhondo, akaba yambaye n'ingutiya iri mu ibara ry'ikigina gisa n'iyo ndobo arimo akarabiraho.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite igitabo mu ntoki, yambaye agapfukamunwa mu maso no ku mazuru, imbere ye hari umusaza wambaye ishati y'amabara y'igitenge uteze n'akagofero inyuma yabo hari umwana wambaye agapira kari mu ibara ry'ubururu.

Umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka cumi n'itandatu ari ku iriba ry'amazi ari gukaraba, imbere ye hari indobo nini iri mu ibara ry'ubururu, ubona ko yamaze kuyivomera yayujuje.

Abagore n'abagabo bari mu cyumba ndetse bicaye ku ntebe z'imisego zimwe nziza kandi hari ameza amwe agezweho hariho uducupa tw'amazi kuri buri muntu bakaba bafite amakayi n'amakaramu bari kwandika.

Umunyabuzima afite icyapa kiriho abana babiri, umukobwa n'umuhungu, ari kwereka umugore ibimenyetso biranga uburwayi, yifashishije icyo cyapa ndetse bari inyuma y'inyubako, aho hagaragara ikirahure kiri ku idirishya ry'iyo nyubako iri hafi yaho bari.

Umugore uteruye umwana, wambaye agapira k'umutuku, afite impapuro mu ntoki ndetse hari umugabo uri imbere ye, bigaragara ko hari ibintu byinshi arimo kumusobanurira kuko afite ibitabo byinshi biteretse ku ntebe.

Umwana w'umuhungu uri ku iriba ry'amazi yafunguye amazi ari kumeneka, ari kujya ayanywesha intoki, hirya y'iriba hari idomoro cyangwa se indobo nini iri mu ibara ry'ubururu ihateretse yuzuyemo amazi.

Umwana wambaye ikanzu y'umutuku ari ku iriba yafunguye amazi make aringaniye ari gukaraba intoki biragaragara ko inyuma ye hari umuntu urimo kumurangaza kuko ntabwo arimo kureba aho ari gukaraba.

Abaforomo benshi batandukanye bahagaze bifotoreza inyuma, imbere y'icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ariko hakaba hari n'abandi bari kumwe bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi bahagaze imbere hanze y'inyubako, imbere yabo hari icyapa kiriho umuntu w'umugore uri guseka wambaye itaburiya y'umweru ufite n'imisatsi kandi muri abo bantu harimo n'abaforomo n'abaforomokazi.

Inyubako yanditseho icyapa gira ubuzima, iruhande rwayo hahagaze abantu benshi bamwe bambaye amataburiya abandi bambaye amajiri, bigaragara ko harimo abaganga ndetse n'abandi bashinzwe ibijyanye n'ubuzima.

Umubyeyi ukikiye umwana urwaye, imbere ye hari umuforomokazi, ari guha uwo mwana umuti akoresheje agacupa k'umweru, uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru naho uwo mumama yicaye ku ntebe yambaye igitenge.

Abantu benshi bicaye mu cyumba, bigaragara ko ariho habera inama, hari icupa ry'amazi riteretse imbere y'umugore, ndetse bafite amakaye n'amakaramu, bari kwandika, harimo abagore, abagabo, urubyiruko, ndetse hari n'intebe nyinshi z'umukara, ziri hirya ku nguni y'ubumoso.

Umugabo wambaye marinete ahagaze imbere ku ruganiriro uri kubona ko ari kugeza ijambo ku bandi bantu bitabiriye inama, hari amagambo yanditse imbere ye ari mu ibara ry'umweru, ndetse imbere hateguye n'intebe ku meza hari amacupa y'amazi.

Abakobwa bari mu kigero kiri hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itatu , bari mu nyubako nziza bicaye ku ntebe zifite irangi ry'umutuku ndetse n'ameza afite igitambaro kirimo umweru uvanzemo n'irindi bara . Hakabaho n'icupa ry'amazi bafite ikaye n'ikaramu biragaragara ko bari mu nama.

Icyumba cyiherereye gituje kirimo abadamu batanu. Umwe ni umuforomokazi abandi urabona bamuteze amatwi bigaragara ko ari kubahugura .

Umugore mbere yokwinjira mumu ry,ango abanje gukaraba intoki kuko imbere y,umuryango hari kandagira ukarabe iriho isabune ndetse na kajerekani kumweru bigaragare koariko bifashisha.

Mu nyubako kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, bicomekeranyije, hari insinga ziva hano zijya ahandi, harimo umuganga wambaye impuzankano, ndetse arimo arareba mu cyuma kiri imbere uko imibare igenda izamuka.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu hariho ikirango kirimo umwana uteruwe n'umubyeyi ndetse kizengurutswe n'ikibabi kiri ku ruhande ndetse harimo amagambo avuga ko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bw'abana.

Mu rugo hari iriba rimwe bagomba kuzamura icyuma bakakimanura, kugira ngo amazi azamuke, hari abagore babiri, bagifatanye ari babiri kugira ngo amazi aze kuza ari menshi, naho undi we yatezeho indobo irimo kumena amazi.

Abana batoya babiri bari mu kigero cy'imyaka icumi ,bicaye imbere y'iriba bateze amaboko aho ibitonyanga by'amazi biri kugwa, bari gukaraba basutamye kandi iruhande rwabo hari amazi arimo gutemba.

Abagore batatu barimo gusuzumwa n'umujyanama, afite icyuma gipima umuvuduko w'amaraso, yakimushyize ku kuboko, kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze, ndetse yambaye n'itariya ibaranga.

Icyumba cy'inama, hicayemo abantu bake baringaniye, imbere yabo ku meza hariho mudasobwa, icupa ry'amazi, ndetse n'imigozi icometse kuri izo za mudasobwa. Bose barimo gutekereza, bigaragara ko bari mu nama ikomeye.

Icyumba kinini kiri kuberamo inama imbere hicaye abayobozi batandatu harimo abagore bane n'umugabo umwe, hari ikindi kirahure kiri kugaragaza amashusho y'inama iri kubera muri icyo cyumba.

Inyubako igaragaza ko bakoreramo inama harimo abagabo n'abagore ndetse imbere yabo hateretse icyuma kijyana amashusho ku rukuta kugira ngo agaragare neza, hakaba agasahani ndetse n'udukombe banyweramo icyayi.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, bicaye mu cyumba kigari. Bigaragara ko bari mu nama bafite ikayi n'ikaramu, bari kwandika. Ndetse bose urabona ko bakurikiye. Harimo abagabo n'abagore.

Urubyiruko, abasore n'abakobwa, bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amakarita abaranga, bari ahantu hamwe bose inyuma y'inyubako ndetse hari n'icyapa bari kwifotorezaho kandi na cyo kiriho abameze nkabo.

Abana benshi bagiye ku iriba ndetse hari umugore uri guhengereza mu iriba, imbere ye hari umwana ufite igitenge ku rutugu, hari amajerekani abiri ateretsemo ndetse hari n'umugore ufite umutaka uri hejuru yaryo.

Abagore, abakobwa ndetse n'abagabo bifotoreza imbere, ubona ko bari bitabiriye amahugurwa yo gukumira ndetse no kurwanya inda ziterwa abangavu, imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru harambitseho Mudasobwa.

Umusore bigaragara ko ari igikara cyane arimo kurira amarira arimo gushoka ku matama ye, ndetse afite ubwanwa bukeya bigaragara ko hari ikibazo runaka yahuye na cyo cyamuteye kurira.

Umubyeyi wicaye wifashe mu mutwe ubona ko arwaye umutwe, afite imisatsi ibindikiye hejuru yambaye n'umupira w'umweru, yashyize umutwe mu biganza bigaragara ko uri kumurya cyane.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, yicaye mu nzira y'amazi. Iruhande rwe hari ibijerekani, ibishashi, ndetse n'ibindi afashe mu ntoki. Iruhande rwe hari ibyatsi.

Umugabo muremure ubyibushye cyane ahagaze yunamye bigaragara ko asa nkaho afite abo yibuka, imbere ye hari ururabyo runini cyane rugandaye ndetse yambaye ikote ry'umukara.

Abana batoya b'incuke bicaye ndetse bambaye impuzankano hariho na karuvati, barimo guseka cyane ubona ko bishimye banezerewe cyane harimo ab'imibiri yombi ndetse harimo n'abambaye imyenda itari iy'ishuri.

Ku ruhande rw'umuhanda hari umuntu ufite ibishishwa by'umuneke mu ntoki ndetse yambaye imyenda yashwanyaguritse, kandi muri uwo muhanda harimo moto n'imodoka hakaba n'ibiti bitandukanye biri ku mpande yabyo.

Umugore uteruye umwana ari kumwe n'umuganga wambaye umupira w'akazi, ndetse afite icyuma mu ntoki gipima umuriro, afite na telefone mu ntoki uwo muganga ari kwereka uwo mubyeyi icyo cyuma kugira amenye uko umubiri we uhagaze.

Abakobwa babiri bicaye baganira, harimo umwe wambaye ingofero wifashe ku matama, wambaye imyenda itukura hose ndetse n'undi mukobwa wambaye iby'umukara hose wambaye amarineti.

Abantu benshi batandukanye bari ahantu hamwe ndetse bamwe bicaye mu mahema, abandi bicaye hanze naho hari intebe n'ameza bayizengurutseho ndetse bafite n'udukapu bateretse ku ntebe.

Umugabo uri mu nyubako ye ndetse yicaye ku ntebe yipfutse mu maso bigaragara ko ababaye cyane, yambaye umupira w'umukara ndetse afite umusatsi mukeya uringaniye.

Umwana w'umunyeshuri yicaye ku ntebe y'abo y'umuhondo ndetse n'ameza y'abo na yo ni umuhondo, yambaye impuzankano y'umweru hasi yambaye y'ubururu bwijimye ndetse yasutse imisatsi, ari kurya biswi, inyuma ye hari umwarimu ari mubandi banyeshuri ari kureba.

Umugore wambaye umupira w'umweru ateruye umwana barishimye bari guseka. bari inyuma y'inzu ahagaragara amatafari ahiye ndetse n'amadirishya y'ibirahure ariho ibyuma bifite irangi ry'umuhondo.

Umugore uhetse umwana mu ishuka y'umweru, ndetse n'undi mukuru umuhagaze iruhande. Bicaye mu gikoni, batetse igikoma. Kandi arimo gukoroga, kugira ngo gishye kidafatana.

Icyumba kigali cyabereyemo inama giteraniyemo abagore ndetse bari ku ntebe nziza, imbere yabo hari ameza, hariho uducupa turimo amazi yo kunywa ndetse bafite n'ikayi bandikamo ibyavugiwe, bayobowe n'umugore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro umukara.

Icyapa kinini kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, hariho uruziga rushushanyijeho ibiganza bibiri, hasi hariho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu hariho umugabo wambaye ishati y'ubururu afite indangururamajwi ari kuvugiramo, ndetse munsi ye hakaba handitse amagambo agaragaza ko ari uwita ku buzima bwo mu mutwe.

Icyumba kinini kiri kuberamo inama iyobowe n'umudamu wambaye ikoti ry'umukara ndetse yambaye n'ikanzu y'umweru, abamukurikiye bicaye mu ntebe z'imisego, imbere yabo ku meza hari amacupa ateretseho arimo amazi ndetse hari n'abicaye bashyize ibikapu imbere ku meza.

Umugabo wambaye imyenda yacikaguritse, kandi akaba afite ibyanwa byinshi bisa nabi n'ibisatsi byinshi bisa nabi, biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ari hanze y'inyubako, ahantu hagaragara umutaka n'intebe ikoze mu buryo bwa palasitike.

Umugore wicaye wigunze bisa nkaho yumiwe yicaye ku gatebe k'urubaho imbere ye harambuye umusambi, hejuru hari idirishya rikinguye bigaragara ko inyubako arimo ishaje cyane.

Umugabo uri mu cyumba ndetse usashe umusambi ukagaragara ko ariho aryama, aziritse amaguru ndetse akenyeye igitenge n'agapira k'akajezi, biragaragara ko ahafungiye.

Icyapa kiriho ifoto y'umugabo ukuze cyane wambaye ishati y'umweru, hakaba hariho n'amagambo hejuru yanditse mu ibara ry'ubururu, hariho ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi bicaye bitegereza abantu bari imbere ku rubyiniro, umugore umwe n'umukobwa umwe, umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku naho umugore we yambaye ikanzu afite n'agakapu mu ntoki ndetse n'indangururamajwi.

Umukecuru bigaragara ko akuze yicaye ku gasongogari ndetse atekeye mu isafuriya bigaragara ko ari gukoresha umudoho, imbere ye hari igikombe cy'ibara ry'icyatsi ndetse hirya gato hari inkoko y'umweru n'ijerekani arimo gutekera hanze.

Umugore wicaye ku musambi uzinze, ubona asa nk'aho yihebye, uzirikishije umunyururu ku kaguru, uwo munyururu nawo, ukaba uziritse kuri icyo giti yicaye iruhande.

Mu kigo cy'amashuri harimo abana benshi, abakobwa bambaye imyenda y'impuzankano y'ubururu ndetse abahungu bakaba bambaye imyenda ya kaki, imbere yabo hari umuntu barimo gupopera kandi inyuma yabo hari ibendera ry'igihugu.

Umukobwa muremure, uhagaze hanze ku rubaraza rw'inzu, wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku, imbere yambariye mo agapira k'amaboko magufi, kari mu ibara ry'ubururu.

Umugabo ufite imisatsi myinshi ndetse wambaye isengeri n'ikabutura, wicaye hagati y'ipine, bigaragara ko bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, iruhande rwe hahagaze abantu babiri.

Imodoka itwara imizigo nini cyane, igaragara ko itwayemo imiti, iri iruhande rw'inyubako, hari intebe nyinshi zicomekanye, zimwe zihagaze izindi ziryamye hasi mu byatsi, hakaba hahagaze abantu benshi ndetse n'umugore uri imbere y'iyo modoka.

Icyapa kiriho ikirango cya kaminuza nkuru y'u Rwanda ndetse hakabaho n'ijambo Canada, hakabaho n'ibindi birango bigiye bitandukanye by'amakaminuza atandukanye ku'Isi, hari n'ifoto hagati y'ibyo birango iriho abagabo n'abagore bamwe bicaye abandi bahagaze inyuma yabo, harimo n'umuzungu.

Hanze y'inyubako mu rugo hari amapave, hicaye abantu ku ntebe z'imituku bambaye neza, ndetse inyuma yabo hahagaze abandi bambaye impuzankano z'imikara.

Inyubako nini, ndetse uyirebera inyuma wagira ngo irageretse, iriho udusikariye twinshi tuzamuka tuyijyaho, ndetse isakaje amategura, kandi inyuma yayo hariho icyapa kigaragaza ibihakorerwa.

Mu ishuri harimo umunyeshuri ufite igishushanyo kirimo amenyo. Ndetse hari umuganga umufashe ku rutugu, afite uburoso mu ntoki, ari kumwerekera uburyo boza amenyo. Bakabamo n'abandi bagabo batandukanye, n'abagore. Bambaye amakoti, abandi bambaye amataburiya.

Abana babiri b'abakobwa bakiri batoya bafite uburoso bw'amenyo ubona ko bari koza amenyo ndetse bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu.

Umuganga wambaye impuzankano z'akazi ndetse na ga mu ntoki, afite urushinge agiye kurutera umurwayi ndetse urabona ko umurwayi yishimiye ukuvurwa kwe, ari mu ntebe zegamirwa.

Umusore wishimye cyane uri guseka yerekana akuma k'umweru gafite amabuto. Ako kuma agafashe mu ntoki, yambaye umupira w'amaboko ndetse akaba afite n'amenyo meza.

Umugabo wambaye umupira w'umweru afite ubwanwa ndetse afashe urudodo mu ntoki rw'umweru, ari kurukoza ku menyo bigaragara ko afite amenyo meza.

Umugabo wizihiwe cyane aseka wiyogoshesheje ufite amenyo y'umweru bigaragara ko ayakorera isuku, yambaye umupira uri mu ibara ry'umukara.

Mu cyumba kiri kwa muganga harwariyemo umurwayi urembye cyane, bigaragara ko afite ikibazo mu kanwa. Yambitswe akantu ku munwa ndetse arasamye, bafite ibyuma bitandukanye bari gukoza mu kanwa.

Icyumba kiri mu ibara ry'umweru, harimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bitandukanye, hakabamo televiziyo n'intebe z'imisego zifite ibara ry'umukara, hakaba n'insinga zicomekeranye muri ibyo bikoresho bitandukanye.

Umusore wambaye umupira w'umweru ufite umusatsi mwinshi, akaba afite akantu ariko ukoza ku menyo kameze nk'urudodo, akaba ari kwireba mu ndorerwamo imuri imbere.

Umukobwa uri guseka yishimye ufite imisatsi iboshye igwa inyuma mu mugongo, afite amenyo y'amakorano mu ntoki ari kujya agerageza kuyahuza naye bwite.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, yambaye n'amadarubindi ari guseka, afite urutoki yashyize ku munwa yerekana amenyo.

Abaganga babiri bari mu cyumba bavuriramo ndetse bambaye imyenda y'akazi, udupfukamunwa na two tw'icyatsi ndetse hari umurwayi urembye cyane, uryamye ku gitanda. Hari ibyuma bafite mu ntoki ,bigaragara ko barimo kumukura amenyo.

Icyumba kirimo umuganga wambaye imyenda y'akazi ndetse iruhande rwe haryamye umurwayi urembye cyane, ari kumushyiraho icyuma kimwongerera umwuka, ndetse aho bari hari irangi ry'umuhondo.

Umurwayi uryamye, ari kumwe n'umuganga. Afite akuma mu ntoki, naho umurwayi we arasamye, bari kumukura iryinyo. Bigaragara ko afite ikibazo.

Umwana wambaye ishati y'umweru ndetse yayihinnye gato ku kuboko, afite uburoso buriho amabara atatu, hariho icyatsi, umuhondo n'ubururu, ari gushyira ku menyo, yishimiye koza amenyo kugira ngo ahore afite amenyo yera.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'agatambaro yishyize mu ijosi k'umweru, ari mu nyubako irimo robine ndetse aho bavomera amazi mu gihe bakeneye kuyakoresha, akaba ari guseka cyane bigaragara ko abyishimiye.

Umugore n'umugabo ndetse n'umusore, bari mu cyumba kirimo irangi ry'umweru, ndetse nabo bambaye imipira y'imyeru, bafite imisatsi myinshi, imbere y'abo hari iriba.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse afite urudodo mu ntoki ari gukoza ku menyo, afite imisatsi isutse ndetse ari kureba ku ruhande hari indorerwamo arimo kwireba uko ameze.

Icyumba kirimo intebe zifite amapine zikaraga mu byirekezo byose waba ushaka kurebamo, hakaba hari na televiziyo yerekana amashusho. Hari n'indi ntebe ushobora kuryamamo ukaruhuka, ndetse hari icyuma kiri imbere y'izo ntebe, kiriho insinga nyinshi zinyuranyuranamo zijya mu bindi byuma biri muri iyo nyubako.

Umukobwa ufite imisatsi imanuye mu maso ndetse n'inyuma mu irugu, yambaye isengeri y'umweru ndetse arananutsemo kandi afite n'uburoso mu kanwa, bigaragara ko ari koza amenyo ndetse arimo kwireba mu kirahure kiri imbere ye.

Mu nyubako harimo umugabo ndetse wambaye imyenda yo kurarana izwi ku izina rya pinjama, afite akantu kameze nk'uburoso ari gukoza mu menyo bigaragara ko ariko ari kuyagenzura, ari kwireba mu kirahure indorerwamo imuri imbere.

Kwa muganga harimo umugore uri kwita ku mugabo urwaye, ndetse biragaragara ko afite ikibazo cy'amenyo kuko hari iryinyo rimwe afite agiye kumushyiriramo.

Umusore utambaye umwenda hejuru, afite ubwanwa buringaniye ndetse n'umusatsi muke, akaba afite mu ntoki urudodo rw'umweru, ari gukuba ku muwa. Yasetse, afite amenyo akeye.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi, ndetse afite ibyuma mu ntoki, ari gukura umurwayi uryamye ku gitanda ndetse arimo kumukuramo amenyo bigaragara ko ayarwaye, kandi nyuma ye hari ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Akana k'agakobwa karyamye kwa muganga, abaganga bari kugaha umuti ndetse bafite n'ibyuma bari gukoza ku menyo bigaragarako karwaye amenyo kandi gasutse imisatsi, kambaye ikanzu y'iroze.

Abaforomo bicaye hamwe ku murongo bakira abarwayi, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ndetse na wa muti bakaraba ku ntoki wica za mikorobe, hari uri kwakira umurwayi w'umukobwa ufite ikibazo cy'amenyo yasamye bari kumureba mu kanwa.

Abakobwa babiri bari mu nyubako ndetse bambaye imyenda y'imyeru bose, imbere yabo hagati hari ameza ariho ibintu byinshi bitandukanye, ndetse umwe muri bo afite uburoso yabushyize ku menyo.

Umugabo ufite ubwanwa bw'umukara, arasamye, afite akantu ari gukoza mu ryinyo ubona ko rimurya, ari kurijegeza ubona asa nkaho ashaka kurikura.

Umugabo wishimye cyane, wafashe urudodo runini rw'umweru, ari kurucisha amenyo ubona ko bimushimishije cyane, yambaye umupira w'umweru ndetse afite n'ubwanwa.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo imashini zitandukanye, zitumama abarwaye indwara, imbere yaho hari umugezi, hari n'agakombe baterekamo indabyo, icyo cyumba kandi kikaba kirimo n'intebe abarwayi bicaraho.

Kwa muganga harimo umurwayi urembye cyane ndetse umurwayi araryamye hari umuganga urimo kumwitaho bigaragara ko ari mu kumutera urushinge.

Urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu rwambaye imipira isa n'ibara ry'icyatsi, ruri kwitabwaho ubona ko abenshi bafite ikibazo cy'amenyo.

Umukobwa uri guseka afashe intoki ebyiri z'amaboko atandukanye ari kuzerekana ku menyo ndetse afite iminwa yasizeho amavuta yabugenewe ndetse akagira n'imisatsi y'umukara miremire.

Icyumba kinini cyane kirimo amatara menshi hejuru mu gisenge ariko kwaka, hateguyemo intebe zifite amapine zimwe bakurura ziri mu ibara ry'umukara, harimo n'ibindi byuma byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'imashini.

Abaganga benshi batandukanye, basuye ikigo cy'amashuri. Bafite igikoresho gifite amenyo ndetse umwe mu banyeshuri aragiteruye. Ari kumwe n'umuganga ari gushyiraho uburoso kuri ayo menyo, bereka abanyeshuri uburyo bagomba koza amenyo.

Umuganga uri gupima umurwayi w'amaso yarambuye urudodo rw'umweru ari kurwereka umurwayi. Uwo murwayi yambaye agapira k'umweru karimo imirongo itambitse y'umukara.

Umukecuru ukuze cyane ufite imisatsi y'imvi, ahagaze imbere y'umukobwa yarambuye amaboko aramwigisha kubyina bareba mu cyerekezo kimwe ubona ko bishimye.

Abagore bambaye ibitenge byiza ndetse bicaye mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye, bari iruhande rw'inyanya ziri mu makarito ndetse hirya yabo hari amacunga, indimu ndetse n'ibindi utasanga ahandi.

Murugo umukecuru n'umusaza barishimye barimo guseka ndetse iruhande rwabo hari utuntu dukoze mu mpande enye bari gukina turi mw ' ibara ry'umweru .

Umusaza ukuze cyane ufite umusatsi w'imvi yicaranye n'umuganga wambaye ikarita ufite imisatsi igwa mu maso, uwo musaza afite terefone mu ntoki ari kwereka uwo muforomokazi, imbere yabo ku meza harambitse radiyo iri mu ibara ry'umukara.

Umugore n'umugabo bari muri siporo bakora imyitozo ngororamubiri, bose bambaye imipira iranga abari muri siporo ndetse n'amasaha ku kuboko, bari kugenda bishimye bigaragara ko bishimiye siporo.

Umusaza ugeze mu za bukuru ari kwa muganga mu bitaro yicaye mu kagare ari gusunikwa n'umuganga wambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'ubururu, uwo muganga afite ibisuko.

Umusaza uri kumwe n'undi mukecuru, umusaza ari kunywa ibinini, imbere ye ku meza hari igikombe kirimo amazi ndetse harambitse n'ibindi binini agiye kunywa. Imbere yabo ku meza hari igikombe kirimo ururabyo ruri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abagore batandukanye barimo kubyina ndetse bamwe muri bo bambaye amajipo yu umukara nimipira y'umweru bafite utuntu mu ntoki bari kugenda bamamaza iruhande rwabo hari inyubako ndetse hakaba n'igiti.

Abagore bambaye impuzankano z'akazi, bari kugenda mu muhanda ndetse iruhande rwawo hari indabyo nziza zifite amabara atandukanye ndetse hari n'imikindo hagati y'izo ndabyo.

Abagore batatu harimo ukuze muri bo ndetse n'abandi bigaragara ko arimo kumuyingayinga mu myaka . Bambaye ingofero babiri muri bo ndetse undi ntayo afite bafite ikizingo kiriho ubudodo bwinshi bigaragara ko ari abadozi bari kureba muri telefoni izi zigezweho.

Abantu babiri bicaye bizihiwe bari gusoma igitabo, umwe ni umusaza uri mu kigero cy'izabukuru wambaye amarinete, undi ni umusore imbere yabo ku meza hateretse ibikombe bibiri by'umweru.

Itsinda ryabantu bahagaze ahantu hamwe bafatanye kuko harimo umwana abandi bo bakuru ndetse harimo n'umukecuru bahagaze ahantu hamwe bose bari guseka, inyuma yabo hari imodoka kandi hari n'ibiti bitandukanye.

Umusaza ugeze mu gihe cy'izabukuru waje kwa muganga kwipimisha indwara yashyize akaboko ku meza muganga amushyiraho igipimisho ari kumupima, uwo muganga akaba yambaye igitaburiya cy'umweru.

Umusaza uri mu kagare k'umweru uri mu bitaro, ari kumwe n'umuganga barimo kugenda baganira, kandi bari mu nyubako mo imbere, aho hari agakombe karimo indabyo ku ruhande, ndetse hakaba n'amashuka agiye akingirije buri cyumba.

Abasaza bakuze bicaye mu ntebe z'imisego ahantu hanze kw'ibaraza ry'inzu, bose bambaye nk'abisilamu bafite inkoni mu ntoki ndetse hari uwicaye ku ntebe iruta iz'abandi.

Mu nyubako harimo umuganga ndetse n'umurwayi kandi biragaragara ko afite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru kuko ntashobora kugenda, hakaba hari ibyuma bibafasha mu gihe barimo kugenda kugira ngo bazongere kugenda nkuko bagendaga mbere.

Umuganga wambaye impuzankano y'umutuku ndetse n'ikarita y'akazi, ari kumwe n'umurwayi ndetse bigaragara ko uwo mugabo akuzemo, afite akuma mu ntoki mu kumufasha kugorora ingingo ze z'umubiri ndetse yambaye n'amadarubindi.

Umuryango harimo umusaza, umukecuru, umugore n'umugabo ndetse n'abana, urabona ko ari abantu bishimye cyane bari mu ntebe imwe muri salo, kandi hari indabyo muri iyo nyubako.

Umugore n'umugabo ubona ko bishimanye bafatanye mu kiganza ndetse bari hejuru ku nyubako, umugabo we afashe no ku cyuma gituma abantu badashobora kugwa hasi kibatangira ndetse iruhande rwabo hari urukuta rw'umweru ruriho amabara y'umweru gusa.

Umuryango mugari urimo abasaza n'abakecuru, abagore n'abagabo ndetse n'abana barifatanye ku ntugu ubona ko bishimiranye ndetse bose bari guseka, inyuma yabo hari ibiti byinshi by'amoko atandukanye.

Umusaza wicaye mu bwogero ufite imvi nyinshi barikumesera mu mutwe aho bashyizemo urufuro rwinshi ndetse umuntu urimo kumwitaho urabona ko arimo kumwuhagira umusatsi.

Umuganga yambaye impuzankano z'akazi ndetse afite icyuma gipima umuvuduko w'amaraso, ari guha ibinini bitandukanye umurwayi ufite icupa ririmo amazi ndetse hari n'ikarito irimo ibindi binini ku ruhande.

Umukecuru ugeze mu gihe cy'imyaka y'izabukuru, yicaye hasi ahantu hari ibishingwe, imbere ye hari amashyiga, atetseho agasafuriya gapfundikije kandi. Icyori gukora we, ari kujya acana, yenyegeza wa muriro.

Abagore bari kugenda hafi y'ishyamba bambaye imyenda ya siporo, biragaragara ko barimo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse iruhande rwabo hari ubusitani bwiza harimo ibiti bitandukanye n'indabyo, ibyo biti harimo birebire n'ibigufi.

Umugabo ugaragara ko akuzemo yambaye ishati ya kake ndetse yicaye ku ntebe, iruhande hari ameza ari gusoma kuko imbere ye hariho igitabo ndetse hari n'imbeba ino yifashishwa kuri mudasobwa.

Umusaza wambaye umupira ufite ibara rya kake, ari kumwe n'undi mugabo urimo ku musindagiza, biragaragara ko akuze cyane umusaza, ndetse bari mu nyubako ifite irangi ry'umweru.

Umusaza uri muri siporo, ari kumwe n'umuganga, ari kumufasha kugira ngo akire, arimo kumubwira uko agomba kwitwara, ndetse afite icyuma mu ntoki, ndetse uwo muganga nawe afite akandi kuma mu ntoki, bari mu nyubako nini barimo kuhakorera siporo.

Hari abantu benshi bicaye mu ihema riri hanze y'inyubako, harimo umuganga wambaye imyenda y'imikara ufite ikarito mu ntoki, bigaragara ko hari ibyo arimo aratanga, ndetse hari n'abandi hirya bambaye imyenda y'imikara nabo bari kumufasha icyo gikorwa.

Umusaza wambaye umupira w'amaboko n'ipantaro y'umukara, ufite imisatsi y'imvi ubona ko ageze mu gihe cy'izabukuru, ntari kubasha gushingura ari gusindagizwa n'abandi bantu babiri, umusore ndetse n'umukobwa.

Umusaza wishimye cyane wambaye amarinete, ufite imisatsi y'imvi, yicaye mu kagare inyuma ye hari umukobwa uri kumusunika na we uri guseka cyane, uwo mukobwa we yambaye agapira kari mu ibara ry'ubururu kandi afite imisatsi y'umukara.

Umuganga wambaye imyenda y'iroze ndetse afite n'icyuma gipima umuvuduko bakunda kukwambika ku kuboko mu gihe bari gupima, hari umugore ubyibushye wambaye ikanzu ari gusuzumwa n'uwo muganga, iruhande rwabo hari ibiti ndetse n'indabyo.

Umugore ukuze wambaye ikanzu y'umuhondo ndetse wasukishije imisatsi afite icupa mu ntoki ndetse kuri ayo meza hariho n'ibinini bigaragara ko agiye kunywa imiti.

Umukobwa yicaranye n'umubyeyi we ku meza ahantu hariho imbuto zitandukanye ndetse umugore ari gukata amashu, imbere ye hari inyanya, karoti ndetse na pavuro, umukobwa nawe hari ikirahuri cy'amazi kimuri imbere.

Inyubako nziza irimo igitanda kigezweho, hari umukecuru n'umusaza bayirimo, umusaza yicaye ku buriri ari kunywa amazi mu kirahure ndetse biragaragara ko umukecuru ariwe ukimuzaniye akaba ahagaze imbere ye.

Abagabo n'abagore bahagaze mu nyubako irimo tapi ndetse hakabamo n'ibyapa. Inyuma yaho hari amatara menshi ari kwaka, hejuru yabo ndetse bambaye n'amakarita aranga icyo bakora.

Icyapa kinini kiriho ifoto y'umuforomo kazi uri gutera umwana urushinge, hariho n'andi magambo yanditse agaragaza ko bakora ibijyanye no gukingira.

Icyumba kinini kisanzuye, kirimo abantu benshi bicaye mu kivunge, harimo abagabo bicaye ku ntebe z'imbere, mu mpande z'icyo cyumba hari ibyapa biharambitse, bigiye byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Icyapa kirimo abantu bane, ndetse bafite ibikapu bose, ni abagore bafite n'udutambaro bateze mu mutwe, ndetse kizengurutswe n'ibara ry'icyatsi , inyuma yacyo hari ibiti byinshi n'utuzu dutoya cyane twinshi.

Abantu bari mu nama ubona bose bicaye bateze amatwi. Icyo cyumba barimo kandi harimo n'aho imbere hariho ibyo barimo kuganiraho muri bo hari umugore ufite indangururamajwi.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu ,hagati harimo inyuguti zanditse mu mpine mu ibara ry'umweru, hasi hari amagambo yanditse uko izo nyuguti zivugwa mu magambo arambuye.

Abaganga babiri bahagaze imbere yabo hicaye umusaza wasamye, umuganga umwe ari kumumurika mu kanwa ariko yambaye, uwo muganga yambaye agapfukamunwa hirya yabo hahagaze abandi bantu bari kwitegereza.

Icyapa kiriho umuntu wambaye imyenda y'akazi w'umuganga ndetse hariho n'icyuma bifashisha bapima umuvuduko cyangwa uko amaraso atembera mu mubiri, hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'iduma cyanditseho ngo imbaraga z'ubuzima.

Icyapa kiriho umugore ufite imisatsi yasukishije ndetse akaba yambaye agasheneti mu ijosi, iruhande rwe hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, hakabaho n'udushushanyo tubiri tugaragaza nka za kuteri zitagira imigozi.

Umurwayi uri kwa muganga ari kwitabwaho n'abaganga ndetse bambaye n'amajiri, bambaye n'udupfukamunwa ndetse biragaragara ko uwo murwayi urwaye na we ari umuganga, ahubwo akaba afite ikibazo.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi imbere yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ndetse imbere ku rubyiniro hari abantu babyina bateze bya gitore bakenyeye imikenyero y'umweru.

Icyumba kigari, kirimo amarangi atandukanye ku rukuta, hicayemo abantu benshi, bigaragara ko bari mu nama. Bose bicaye ku ntebe z'imituku ndetse hari n'amakaro arimo amabara y'umukara n'umweru.

Abaforomo bishimye cyane, bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abandi baganga bambaye udupfukamunwa, bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu. Hari n'abandi bantu bigaragara ko bari mu kazi kagiye gatandukanye.

Abantu benshi bicaye bamwe bahagaze, bari mu nyubako ifite icyapa inyuma cyanditseho insanganyamatsiko baganiragaho, biragaragara ko bari mu nama ikaba ihumuje.

Abantu benshi bishimye cyane bazamuye amaboko hejuru bifotoza, biganjemo abadamu bambaye amakarita, imbere yabo hari intebe ziri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ameza arambitseho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abantu benshi, harimo abambaye imipira y'umweru, ndetse abandi y'imikara, abandi ubururu, bari inyuma y'urukuta, ndetse bigaragara ko bari kwifotoza. Harimo n'umudaso wambaye impuzankano yabo, inyuma yabo hakaba imodoka nini itwara abagenzi.

Icyumba kinini cyane kiri kuberamo inama hicayemo abantu benshi, imbere ku ruganiriro hari abahicaye batatu abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, uwo mugabo akaba afite ikayi mu ntoki, inyuma yabo handitse icyapa kinini cyanditsemo amagambo.

Abaganga bambaye impuzankano yabo, bari mu cyumba kirimo umurwayi urembye cyane, bose urabona ko bafite akazi barimo kuhakora. Biragaragara ko arembye kuko yitaweho n'abaganga benshi.

Urubyiruko rw'abasore n'abakobwa benshi bafite ibyapa byanditseho amagambo ari munyuguti nini cyane z'umweru ariko ubyo byapa bikaba biri mu ibara ry'iroza, urwo rubyiruko rwambaye impuzankano imipira y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara.

Icyapa kinini kiri mu ishusho y'urukiramende kiriho amagambo yanditse mu mpine mu ibara ry'ubururu, hasi yacyo hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Umugore munini ubyibushye, ufite imisatsi igwa inyuma mu mugongo, yicaye yegamiye ubona yishimye yizihiwe ariko imbere ye hari amagambo ahanditse mu ibara mu nyuguti ziri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiri mu ibara ry'idoma, ndetse harimo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, hariho ikirango kigaragaza ko ari icy'ubuzima, hashushanyijeho umuntu w'umusore wambaye ishati y'umweru, ufite agasatsi gake.

Umugore n'umugabo bambaye neza bafite amakarita abaranga cyangwa aranga ibyo bakora, bari mu nyubako iriho icyapa kigaragaza ibihakorerwa, bahagaze imbere yacyo umugabo yambaye ikoti ry'umukara yifashe mu manyungunyungu.

Icyapa kinini kiriho imirongo izengurutse iri mu mabara nk'ay'umukororombya menshi atandukanye, ariko kikaba cyanditseho n'andi magambo manini ari mu ibara ry'umukara.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu hagati na hagati harimo impine z'amagambo yanditse mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umweru, hasi hariho uko izo nyuguti zandikwa mu magambo arambuye.

Abaganga bambaye bikwije imyenda imeze nk'amashashi y'umweru kuva ku mutwe kugera ku maguru, no mu maso isura bayifunze bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko nta ndwara yabakoraho cyangwa se ikindi cyorezo.

Icyumba kinini giteguye neza cyo kwa muganga, harimo igitanda kimwe gifite amapine, ndetse imbere y'icyo gitanda hari imashini ipima abarwayi ifite ikirahure kinini kiri kwaka.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye, ibyo bitanda bikaba bishasheho amashuka ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umweru ariko ibyo bitanda hakaba nta murwayi n'umwe uryamyemo.

Abagore batatu bambaye impuzankano y'abaganga y'ubururu, bafite ingofero z'umweru bari ku kigo nderabuzima, haragaragara kandi ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'inyubako ziri hafi yaho.

Icyapa kinini kiriho amagambo yanditse mu nyuguti nkuru kigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Matyazo, hari abantu haruguru y'icyo cyapa bigaragara ko bavuye muri icyo kigo nderabuzima.

Mu nyubako bigaragara ko ari mu isuzumiro ry'ibitaro, harimo abaganga benshi batandukanye, bigaragara ko harimo n'abari gukora umurimo w'imenyereza mwuga, hari ibyuma byinshi bitandukanye bifashisha baba barimo kwigiraho.

Inyubako ngari iri ahantu hitaruye ndetse ifite n'uruzitiro, hari umukobwa uhagaze inyuma y'inyubako wambaye umupira w'umuhondo ijipo y'umutuku.

Icyumba kigari kinini cyane kirimo ameza agezweho n'udutebe twiza dufite amapine kiri ahantu hitaruye, hari n'aho bajugunyamo imyanda ndetse hari n'akadobo kabonekamo isabune y'ifu.

Icyumba kinini cyisanzuye giteguyemo intebe intebe zimwe zirimo ibara ry'icyatsi kibisi izindi mu ibara ry'umukara harimo akabati karambitseho icyuma cya mudasobwa cyangwa se ikirahure cyerekana amashusho.

Abagore bagera kuri batandatu bambaye impuzankano z'abaganga, ndetse n'udupfukamunwa. Bahagaze ku murongo bafunze igipfunsi. Aho bahagaze ni mu busitani burimo indabyo.

Iduka rinini ririmo amacupa y'amavuta y'amoko atandukanye, harimo ay'ubururu ndetse harimo umweru, move ndetse hakabamo n'umukara, harimo n'ibyapa bigaragaza buri bwoko bwayo.

Ku marembo y'ibitaro handitseho ko ari ibitaro bya Kabgayi, hari inyubako nyinshi zitandukanye ndetse n'abantu barimo kwinjiramo, harimo ibiti byinshi by'amoko atandukanye ndetse n'uruzitiro ruhari hafi y'inyubako.

Inyubako z'ikigo nderabuzima zubatse mu buryo butatanye ariko hagati y'izo nyubako harimo ubusitani bw'indabyo zibereye amaso, ubwo busitani bukaba buhagazemo abantu bagiye batandukanye.

Icyumba kinini cyo kwa muganga giteguye neza, gisizemo amarangi y'mweru, hateguyemo igitanda gisasheho amashuka y'umweru, icyo cyumba kirimo abantu batanu bahagaze bitegereza, bareba ahantu hamwe.

Inyubako irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, ndetse n'ibyifashishwa mu kuzimya umuriro. Hari amatara ari hejuru mu gisenge, ndetse ku mpande hari ibirahure kuva hasi, kugera hejuru. Harimo n'intebe ngufi, zicabwaho n'abantu bategereje serivisi.

Inyubako yo kwa muganga irimo umuntu urimo arakora isuku, yambaye ga mu ntoki, afite igikoresho gikoropa ndetse yambaye imyenda y'akazi, hari abarwayi nabo baryamye ku bitanda ndetse hari n'amashuka agenda agabanya buri gitanda.

Inyubako yubatse mu buryo bw'imihande ifite ibirahure by'umukara mu mpande zayo, ifite utuyira duca mu busitani ndetse tumwe muri utwo tuyira tukaba dufite isakaro hejuru.

Icyumba kinini, kirimo abantu benshi bicaye ku murongo, bambaye udupfukamunwa, imbere yabo harimo umuntu wambaye umupira w'umweru, nawe wambaye agapfukamunwa k'umweru. ari kubaha amabwiriza, ariko ubona ko abo bantu bicaye bumiwe, bategereje guhabwa serivisi.

Icyumba kinini, giteguye neza, kirimo ibitanda by'abarwayi, harimo ifoto nini ishushanyijeho imbuto zitandukanye, icyo cyumba kandi kirimo imashini yifashishwa bapima umurwayi, iriho ikirahure kinini kigaragaza amashusho.

Inyubako nini y'ibitaro bya Shyira. Igeretse kabiri. Ifite isakaro ry'amabati ari mu ibara ry'umutuku ndetse iyo nyubako ifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umukara. Naho inyubako ubwayo isize irangi ry'umweru.

Inyubako nini ifite amatara meza ndetse ikaba ifite na kamera, hariho amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, hari abantu batanu bayihagaze imbere.

Inyubako nini irimo abasore n'abakobwa bambaye amashati maremare y'umweru, bafite udupaniye mu ntoki turimo imitako, barimo gutera intambwe bagana ku muryango kandi aho bari hejuru yabo harasakaye handitseho kiyefu hashi Rwanda.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo n'intebe z'imisego, icyo cyumba kirimo ibyuma bitandukanye, harimo n'ibyuma byerekana amashusho, mu mpande zacyo.

Icyumba kirimo igitanda gishashe neza kiriho amashuka ya kake ndetse hakaba n'urukuta ruriho ibara ry'umweru, hari aho bavomera amazi bigaragara ko ari ahantu hisanzuye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo intebe z'imisego, harimo amacupa arambitse, ndetse harimo n'ibyuma bigaragaza amashusho biri mu mpande zacyo zitandukanye.

Umuforomokazi wambaye itaburiya y'umweru, yambaye agapfukamunwa ndetse yambaye n'amarinete, afite imisatsi igwa inyuma mu mugongo y'umukara, ari gukoresha mudasobwa biragaragara ko ari mu kazi.

Inyubako yubatse mu buryo butangaje kuko ifite igisenge giteye ukundi ariko hariho akazeru kayizengurutseho bigaragara ko hari aho abantu binjirira.

Inyubako nini cyane iteguye neza isize amarangi y'umweru harimo amatara ari kwaka umweru hateretsemo igikombe kinini cyane kirimo ururabo rufite ibibabi bitoshye biri mu ibara ry'icyatsi ku miryango y'iyo nyubako hariho ibimenyetso bigaragaza ko ariho abagenzi basohokera.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa kwa muganga ndetse harimo n'intebe zigezweho, hakaba na mudasobwa nyinshi ku mpande zose.

Mu bitaro harimo umuganga ndetse harimo n'abarwayi benshi baryamye mu bitanda bifite amapine, iruhande rwabyo hariho n'intebe, buri gitanda kigiye gifite amashuka agikingirije, ndetse muri iyo nyubako harimo n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye.

Inyubako igeretse rimwe, igice cyo hasi kiragaragara ko ari aho bacururiza ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse hari n'icyapa kigaragaza ko hari n'aho bacururiza imiti, imbere y'iyo nyubako hari imodoka zitandukanye bigaragara ko ari abantu baje kuhagura imiti ndetse n'ibikoresho bindi.

Umwana w'uruhinja uryamye ku gitanda, hari umuganga uri kumwitaho, ari kumuvura, ubona ari kumwenyura, abyishimiye. Ateze agatambaro k'umweru, kandi yambaye itaburiya iri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako nini cyane ifite imiryango myinshi, iyo miryango ikaba isize irange ry'umuhondo ndetse hakaba harimo n'amatara ari kwaka, hagiye hamanitsemo amashusho na yo ari mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa kinini cyubatse na sima cyanditseho ibitaro bya Butaro kizengurutswe n'abazungu benshi bambaye amarinete ndetse n'abirabura, ubona ko bari kukifotorezaho.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi bitandukanye ndetse binasashe neza, harimo n'akabati gatoya gaterekwaho udukoresho dutandukanye two mu rugo, ndetse bifite n'icyuma ku mpande bakoresha bashyiraho serume.

Inyubako igeretse rimwe, irimo kuzamukamo abantu, ndetse abandi bayimanukamo. Hari abageze hanze mu busitani bw'iyo nyubako, imbere yabo hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ababyeyi babiri bahagararanye, umwe akikiye umwana w'uruhinja, yambaye ishati y'umweru, n'agakufe mu ijosi. Undi bari kumwe wambaye amarineti, yambaye ishati y'ubururu, afite imisatsi igwa inyuma mu mugongo.

Inyubako ndende ifite ibirahure mu gice cy'imbere ndetse biragaragara ko ari ibitaro by'amaso kuko handitseho amaso ndetse hakaba hari n'igishushanyo cyayo, iyo nyubako ifite amakaro ayizengurutse ku gihande cyo hasi.

Inyubako nyinshi zitandukanye kandi zisa neza zo ku bitaro, hanze haparitse imodoka eshatu harimo imbangukiragutabara ebyiri. Hakaba hari n'ubusitani bubereye ijisho harimo indabyo zitandukanye, imikindo ndetse n'ibindi biti birumbaraje.

Inyubako nyinshi ziri ahantu hitaruye, hejuru ku musozi. Zifite amarangi atandukanye, ndetse hari n'ubusitani bwiza, burimo indabyo nziza.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye aha twavugamo mudasobwa ifite ibara ry'umukara, intebe nazo zisa umukara ndetse n'izindi zifite ibara ry'ubururu hari ibyuma byinshi by'ikoranabuhanga bicomekeranyije na televiziyo isakaza amashusho abari muri iyo nzu bose.

Icyumba kinini cyo kwa muganga giteguye neza harimo inzugi z'ibirahure, hejuru y'izo nzugi hagaragara imiryango inimero zayo rimwe kabiri, hari aho bigaragara ko ari aho abantu bari mu kato, ndetse n'icyumba bakiriramo abarwayi muri rusange.

Inyubako, hanze yayo hahagaze abaganga bane. Bose bambaye impuzankano y'akazi. Ndetse handitseho kuri iyo nyubako ko ari inzu y'ababyeyi. Hari ubusitani burimo indabyo na pasiparumu. Ndetse hakaba hariho n'amarangi kuri iyo nyubako, atandukanye.

Icyumba kinini kirimo itara ry'mweru ryaka, kirimo akabati katagize icyo karimo, harimo igitanda gifite amapine gifite n'imisego y'umukara ariko nta murwayi ukiryamyeho.

Inyubako eshatu, ebyiri zigeretse rimwe ndetse hari indi iri inyuma igeretse gatatu, izengurutswe n'ibyuma bikoze uruzitiro, ndetse haruguru yazo hari umuhanda urimo abantu benshi.

Inyubako ifite inzira nyinshi zitandukanye kandi zisashemo amatafari, harimo abantu batatu, umugore n'umwana ndetse n'undi mukuru kuri we, hakabamo ubusitani hagati y'izo nzira ndetse harimo indabyo nyinshi zifite ibara ry'iroze.

Inyubako imwe iba kwa muganga irimo ibitanda byinshi ndetse hari umurwayi uryamye bateye serumu, hari umuganga umuri iruhande urimo kumwitaho kandi bigaragara ko amuri iruhande.

Imashini nini yifashishwa kwa muganga mu gihe basuzuma abarwayi indwara zitandukanye, iteretse imbere mu cyumba hafi n'aho bayicomekera ku mashanyarazi, ifite ikirahure kinini imbere kigaragaza amashusho.

Inzu nini cyane y'igorofa igezweho, hari ibitaro byigenga hanze aho imodoka ziparika hari imodoka nyinshi zitandukanye, ubona ko hari n'umuntu uyobora abatwara izo modoka uburyo baziparika.

Inyubako nini yanditseho ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, imbere yabyo ku muhanda hari indabyo nini ziririmo ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Icyumba kirimo igitanda hakabamo n'ibyuma byinshi byo kwa muganga, bigaragara ko hari aho bashyira abarwayi barembye, hari isaha y'urushinge iri ku rukuta ndetse hakaba hari irangi ry'umweru.

Inyubako nini yanditseho ko ari inzu y'ababyeyi iri kwa muganga ndetse hanze yayo hari akazu gatoya kabamo imashini ikora mu gihe umuriro ugiye, hanze y'inyubako kandi hari indabyo.

Inyubako nini kandi yubatse mu buryo bugezweho, hanze hicaye abantu mu ntebe abandi babiri barahagaze harimo umugore uhagaze imbere y'ameza ateguyeho igitambaro, kuri iyo nyubako handitseho amagambo agaragaza ko ari ibitaro by'ababyeyi.

Kwa muganga harimo umukobwa wambaye imyenda y'akazi, ndetse ari gutambuka hagati y'ibitanda biba biri mu bitaro, bigaragara ko aje kureba abarwayi.

Icyumba kinini cy'uruganiriro. Giteguyemo intebe z'imisego zitandukanye harimo izo mu ibara ry'ubururu, hagati harimo ameza. Ariko nta muntu n'umwe wicaye muri iyo myanya.

Icyumba kigari kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura abarwayi batandukanye harimo; ibitanda bifite amapine ndetse n'amashuka arambuyeho hakaba n'ibindi bikoresho by'ibyuma biri ku ruhande bifite amabara menshi.

Inyubako igeretse kabiri, ifite amatafari y'impunyu agaragara, ndetse ikagira n'ibirahure ku mpande zombi, imbere yayo hari imodoka z'imikara zino zitwara abagenzi bane, ndetse hari n'ucuruza amayinite hafi aho.

Icyuma kinini kirifite aho baryamisha umurwayi bamusuzuma, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru urimo gusasa kuri icyo gitanda. Bigaragara ko hari umuganga mugenzi we ugiye kuzana umurwayi aho ngaho.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, hari irangi ry'umuhondo ku rukuta ndetse hakaba hamanitsemo n'isaha y'urushinge, harimo ibindi byuma byinshi ndetse byifashishwa muri serumu, hakaba n'intebe z'amapine zikoreshwa mu gihe batwayemo umurwayi.

Icyumba kigari kirimo intebe z'imisego ndetse harimo n'ibipupe by'amabara atandukanye hakabamo n'igipupe cy'akanyamasyo, hejuru kandi harimo kwaka amatara amwe manini.

Abaganga bari mu bitaro ahantu basuzumira imiti, hari ibyuma byinshi bicomekanye, ndetse n'uducupa twinshi tw'umweru, bose bambaye udupfukamunwa ndetse no mu mutwe bambaye ingofero zabugenewe.

Inyubako nini yubatse, ifite amadirishya menshi, hasi ku mpande zayo hari umuhanda uca hanze y'iyo nyubako, hari n'ubusitani burimo ibendera.

Inyubako iri ahantu hari ishyamba ryinshi bigaragara ko hadatuwe cyane. Harimo inyubako ntoya ndetse hakabamo n'inini. Hari abantu benshi batandukanye bayirimo ndetse hakaba n'ibiti bitandukanye. Hari n'ibigega by'amazi hafi aho.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo atandukanye, harimo ayanditse mubibara ry'ubururu n'ayanditse mu ibara ry'umutuku. Ndetse icyo cyapa akaba kikaba kiri ku muhanda ndetse hari n'ikindi kirambitse, bigaragara ko nacyo bazagishinga hafi aho ngaho.

Icyumba kinini giteguye neza harimo intebe z'imisego, hagati hari ameza amwe ari mu ibara ry'umukara ndetse n'iby'umweru, hirya ku mpande hari ibikombe biteretsemo indabyo nziza zifite ibibabi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako nini yo kwa muganga, ifite igisenge gisakaje amabati ari mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko ari inyubako y'ibitaro by'ababyeyi. Ifite uruzitiro ruriho ibyuma bisize irangi ry'umutuku.

Abantu benshi bahagaze ubona ko bahugiranye, bahagaze hanze y'inyubako z'ibitaro, harimo abagaragara nk'aho ari abakozi b'ibyo bitaro bambaye imyenda isa iri mu ibara ry'icyatsi, hari n'abandi bagabo n'abandi bagore bahagaze ubona ko baje kwivuriza muri ibyo bitaro.

Inyubako nini igeretse inshuro eshatu yanditseho amagambo yo mu cyapa, hari imbere yaho hari ibyapa biyobora abagenzi hanaparitse moto itwara abagenzi.

Inyubako igeretse rimwe, iri ahantu hisanzuye hari ubusitani bwiza cyane, ndetse n'akayira kagana aho iyo nzu iherereye kapavumye harimo amapave.

Icyumba kinini kisanzuye kirimo utubati, kirimo imashini nini cyane yifashishwa mu buvuzi, iyo mashini ikaba ifite ikirahure kiriho amabuto, icyo kirahure kigaragaza n'amashusho.

Inyubako nziza irimo intebe nziza hakaba harimo abagabo babiri umwe wicaye imbere ya mudasobwa ndetse afite icupa ryamazi. Hari uhagaze wambaye ishati y'umweru uri gutunga urutoki ku rukuta kubera ko handitse amagambo.

Inyubako nini y'icyahoze ari kaminuza nkuru y'u rwanda, handitseho amagambo manini agaragaza ko ari kaminuza y'u rwanda. Hari ibiti mu busitani ndetse no mu kayira kamanuka harimo umugabo umanuka wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro yumukara.

Inyubako nini cyane yubatse mu buryo butatanye, hirya yayo gato hari umunara muremure na ho hanze hari ubusitani burimo igiti kinini kigandaye, hanze ku rubaraza rw'iyo nyubako hari kunyura abantu b'ingeri zitandukanye.

Umugabo uryamye kwa muganga yambaye ishati yumweru birasa nkaho yishimye ko ari koroherwa imbere ye hari imashini ipima abarwayi iri kwaka harimo imibare irimo ibara ryicyatsi kibisi.

Icyumba kinini kirimo imashini zitandukanye zifashishwa mu myitozo ngororamubiri, izo mashini zifite ibirahure imbere bigaragaza amashusho zose kandi ziri kwaka.

Inyubako bita isuzumiro iba kwa muganga, irimo abaganga batatu, ndetse n'undi wa kane utari kugaragara neza. Hagaragara urutugu rwe. Bose bambaye imyenda y'akazi, ndetse imbere yabo hari ibyuma byinshi, bigaragara ko hari ibintu barimo gupima.

Inyubako nyinshi ziri ahantu hamwe zikaba zifite n'uruzitiro harimo muri icyo kigo harimo n'ibiti, biragaragara ko hari ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye bifite ikigo kinini.

Inyubako nini igereretse kabiri, ifite uruzitiro rukoze mu byuma, hari imodoka ihagaze inyuma yu'rwo ruzitiro bigaragara ko ari ikigo kuko harimo gusohokamo abana bambaye impuzankano z'ishuri.

Inyubako nziza irimo ibintu byinshi bitandukanye ndetse n'utubati babikamo, hagaragara ifoto iriho abantu babiri ndetse barimo bambaye amadarubindi, imbere yaho hasi handitseho amagambo. Iyo foto ikaba iteretse muri iyo nyubako hakaba hari n'umuntu wicaye ku ntebe hafi aho.

Inyubako nini cyane y'ibitaro y'igorofa hejuru yayo hariho iminara y'ikoranabuhanga, iyo nyubako isize irangi ry'umuhondo hanze yaho haparitse imodoka eshatu, kandi hari icyapa kiri hanze ku marembo kigaragaza ibyo bitaro na serivise bitanga.

Inyubako y'ibitaro by'ababyeyi. Ni inyubako isize irange ry'umuhondo, ndetse n'inzugi zikaba zisize irange ry'umuhondo. Hanze hari intebe ku rubaraza, hakaba hari gutambuka abantu babiri.

Umwana uri gusunika umugabo mu kagare, yambaye imyenda y'umweru, amugejeje iruhande rw'inzu aho bahasanze umugore wambaye umupira w'umweru n'jipo y'umukara.

Amaraso ari mu bishashi yakusanyirijwe hamwe bayarambika ku meza ateguye neza, inyuma yaho hari abandi bantu bahicaye ndetse hari n'abaryamye ku gitanda bigaragara ko hano hari igikorwa cyo gutanga amaraso.

Icyumba kirimo amashusho atandukanye, hasi hariho umukobwa ushushanyijeho wambaye amarineti, ufite imisatsi y'imikara imanutse cyane ikagera ku rutugu ndetse haruguru ye hakaba n'umubare utagira ingano w'amarineti.

Icyumba kirimo inzitiramibu ndetse n'ibitanda, hariho umurwayi wiyoroshe ishuka iri mu ibara rya kaki ndetse ni icyumba kinini gifite amarangi atandukanye, harimo umweru ndetse na oranje.

Inyubako ifite inzugi ebyiri zegeranye zirimo ibirahuri ndetse bisize irangi ry'umweru hahanitseho ibyapa bigiye bitandukanye kimwe kigaragaza ko ari uguhagarara utemerewe kwinjira ndetse hakaba n'ishami ry'igiti ririmo guhinguka kw'ikere ry'inzu.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibitanda. Igitanda kimwe kiryamyeho umurwayi wiyoroshe, hejuru y'uwo murwayi hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara ari kuzinga inzitiramibu iri imbere yigitanda cy'uwo murwayi.

Icyumba kinini giteguye neza, harimo umuganga ndetse icyo cyumba kikaba kirimo imashini zifashishwa zibikwamo ibintu kugira ngo bitangirika. Izo mashini zirimo izisizeho irangi ry'umweru ndetse n'iry'ubururu, inyuma ye hari ameza ari mu ibara ry'umweru.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bugezweho ubona ko ari nk'icyicaro cy'ikigo runaka, yanditseho amagambo ari mu ibara rya oranje, hanze y'iyo nyubako hari ubusitani burimo ibiti bitari binini cyane bifite amababi agandaye ari mu ibara ry'icyatsi.

Inzu nini y'imyitozo ngororamubiri, irimo imashini nyinshi zitandukanye abantu bifashisha mu gihe bakora iyo myitozo ngororamubiri, harimo n'igitebo bashyiramo imyanda, harimo n'imashini zifite amapine ndetse n'izindi zifite ibirahure bigaragaramo imibare.

Umugabo uvuye muri siporo, wambaye isengeri y'icyatsi, ndetse afite icupa arimo kwimenaho amazi, ku kaboko ke, hariho agatambaro yiziritse ko mu ibara ry'iroza.

Icyapa kiyobora abantu cyanditseho amagambo agaragaza ko aho hantu haba inzu y'imyitozo ngororamubiri, kikaba gishushanyijeho ibishushanyo by'abantu batandukanye bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Amasahani atatu imwe iteguyeho imbuto n'imboga babyujujeho ariko bidatetse, ahandi hariho imineke n'izindi mbuto zitandukanye, iyindi ya gatatu iriho amagi, imbuto, imineke ndetse hari n'ibindi byuma birambitse hirya ku meza.

Umurwayi uryamye ku gitanda kwa muganga ,bigaragara ko yavunitse akaguru hafi ku kagombabari . Hari impakasi ndetse n'icyo bazirikisha . Ndetse umuganga yambaye isaha ku kuboko.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri bigaragara ko yagororotse cyane, yicaye nk'umuntu urimo kurya ariko yarambuye akaguru inyuma, amanura umutwe awukoza inyuma ku gatsinsino.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'isaha y'umukufe ku kaboko ke k'iburyo, ari kuvura umurwayi wahuye n'ikibazo cy'imvune, ari kugerageza gukandakanda aho umurwayi aribwa cyane amubaza aho yumva hari imvune, uwo murwayi yambaye umupira w'umutuku ndetse n'agakabutura.

Abasore bane bari muri siporo, bambaye impuzankano igenewe muri siporo, ndetse bari kuzenguruka ikibuga cy'umupira aho hagenewe gukora siporo ya mucaka.

Inyubako irimo abagabo babiri, ndetse umwe muri bo yaboshye imisatsi nk'iy'abakobwa, afite tattowage ku mubiri, ku kuboko ndetse aryamye ku kuma gafite amapine. Biragaragara ko ahantu bari ari mu cyumba cya siporo.

Urujya n'uruza rw'abantu bari ahantu hanini hisanzuye, harimo kugaragaramo umuhungu wicaye ku kantu kameze nk'igitanda bakunda gushyiraho umuntu wavunitse, ndetse biragaragara ko afite ikibazo mu ivi kuko hapfutse, akaba afite akantu mu ntoki kari mu ibara ry'umukara.

Umusore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu afite agatambaro yashyize ku kuboko bigaragara ko yagize ikibazo ari gukanda haruguru y'inkokora.

Umusore uri guterura icyuma ndetse akaba yarazanye amatuza, iruhande rwe hari amoko y'inyama atandukanye ndetse hakaba n'ibiribwa bitandukanye: amagi, ibishyimbo, karoti amashu, puwavuro ndetse n'inanasi.

Umurwayi wazanywe kwa muganga yavunitse bamuryamisha ku gitanda gishasheho amashuka ari mu ibara ry'ubururu, hejuru ye hahagaze abantu bane bamuzanye aho kwa muganga, hirya ye hahagaze abandi babiri ndetse imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru.

Umusore ubyibushye cyane, yambaye isengeri y'umweru n'isaha ku kaboko, yifashe mu mutwe amaboko yayashyize inyuma bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, hari ibifasha abantu mu kwiruka ndetse n'ibindi bibafasha kugorora ingingo handitseho ko ari inyubako iberamo imyitozo ngororamubiri.

Terefone ya tuvugane iri ku meza, hicaye umukobwa ari kuyivugiraho ndetse iruhande rwe hari na mudasobwa ari gukoresha, bigaragara ko ari mu kazi. Hari n'ibindi byangombwa byinshi by'ikoranabuhanga biri hafi aho ngaho.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara, yicaye mu twatsi bigaragara ko yavunitse ari muri siporo, arimo kwikanda ku itako bigaragara ko yababaye cyane.

Insimburangingo igikoresho gihabwa umuntu wagize ikibazo cy'imvune cyangwa se afite ubundi bumuga. Ariko icyo tubona hano ni igikoresho baha umuntu wavunitse, acyambara mu kaguru k'iburyo. Gifite imikandara na bande zigifashe gituma umuntu abasha kugenda.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye inkweto z'umweru n'amasogisi y'umukara, yambaye imyenda y'umutuku, ndetse ari kugerageza kunama akoza amaboko hasi.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda y'umukara hose, yafashe akaguru arakazamura, agashyira ku ruzitiro, ndetse akaba yambaye n'isaha ku kaboko ke k'ibumoso.

Icyumba kinini cyane harimo utubati duteguye, harimo n'ibindi byuma byinshi bitandukanye, haruguru mu mutwe w'icyo cyumba hahagazeyo abantu utamenya ibyo bari gukora.

Umukobwa uri imbere mu nzu ukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro afite imisatsi igwa inyuma mu mugongo, yatandagaraje agerageza kugeza amaguru kure he hashoboka.

Abantu batatu bapfukamye umwe ari hagati yambaye ikasike bigaragara ko yakoze impanuka, abandi baje kumuha ubufasha bafite ibitambaro by'umweru byandikishijeho amagambo y'umukara, umwe yambaye imyenda y'umukara hose undi ipantaro y'umukara umupira w'umweru hejuru.

Umubyeyi wicaye wambaye ishati y'umweru ifite amaboko yambaye agakomo mu ijosi, yambaye n'impeta, afite agatambaro ku kaboko aho yafatishije bisa nk'aho yakomeretse kandi yafasheho akomeje bigaragara ko ari kumva ububabare cyane ndetse n'uburibwe.

Icupa rinini cyane rimena amazi mu gikombe cy'ikirahure, ayo mazi akaba ari guhita afata ishusho y'ibara ry'ubururu bitewe n'aho icyo gikombe cy'ikirahure giteretse.

Umusore uhagaze wifashe mu mayunguyungu wambaye uturangururamajwi mu ijosi ari kunywa amazi akoresheje icupa, yambaye umupira w'amaboko magufi uri mu ibara ry'ubururu.

Umuganga uri ku gitanda, hariho umurwayi ari gufasha ndetse hakaba hari icyuma kirimo kwerekana uko umurwayi amerewe, bigaragaza n'imibare iba yanditsemo, hejuru harimo ijana na mirongo ine n'umunani, munsi yaho akabazo, hepfo yaho hakaba handitseho mirongo icyenda n'icyenda mu mabara atandukanye.

Mu nyubako harimo abagabo babiri, umwe aryamye ku gitanda ndetse undi yazamuye akaguru ke bigaragara ko afite ikibazo cyako, noneho yakamushyize ku rutugu. Iruhande rwabo hari igikoresho cy'igitako giteretse ku kantu kabugenewe, hakaba n'umuti wifashishwa mu kwica udukoko.

Umurwayi wakomeretse ku biganza ari gushyirwaho imiti ndetse bamupfutse kuko bigaragara ko yakomeretse cyane bikabije umuganga urimo kumwitaho afite ibikoresho byabugenewe bifasha abarwayi gukira vuba.

Igikapu kiri mu ibara ry'umutuku. Kirafunguye, kiragaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye. Ibyinshi byose byifashishwa kwa muganga. Harimo imakasi, amapamba, isaha, ndetse na bande, n'amacupa.

Ibikapu bibiri biri mu ibara ry'umutuku, biteretse hamwe igikapu kimwe kikaba gifunguye bigaragara ko harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa bavura umuntu wahuye n'imvune.

Abaganga bambaye impuzankano bari iruhande rw'umurwayi ndetse biragara ko ari umugore ugiye kubagwa, kuko yambaye ikanzu ikunda gukoreshwa mu gihe bagiye kubaga umurwayi, ndetse ahantu bari hari ibyuma byinshi bitandukanye bakwifashisha.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye inkweto zabugenewe ndetse n'agakabutura gatoya gusa, akaba afite n'isaha ku kuboko, akaba yarambuye akaguru imbere, akandi yagasutamyeho.

Umugore uri mu nyubako irimo ibitanda byinshi bitandukanye, ndetse ubona ko hariho amashuka agiye asa. Yicaranye n'akana kambaye umupira w'umweru. Kicaye ku gitenge kirimo amabara atandukanye.

Umuzungu ucigatiye ikintu kinini cyane kiri mu ibara ry'ikizeru risa nk'umutuku, yambaye itaburiya, yambaye ikaruvati irimo amabara ndetse ku ijosi yambaye akuma bifashisha bapima uko umurwayi ahumeka.

Icyumba kinini gituje, kirimo abantu benshi batandukanye, bafite ibyo bakora bijyanye no kwa muganga. Bose bambaye udupfukamunwa n'ingofero zisa. Bicaye, imbere yabo hicaye abadamu batatu, hari na mudasobwa ku meza. Bose bahanze amaso ikirahure cyerekana amashusho.

Kwa muganga hari umukobwa uryamye bigaragara ko afite ikibazo mu ivi bamushyizeho icyuma ndetse iruhande hari akantu k'agatambaro bazinze mu rwego rwo kugira ngo kamufashe.

Icyumba kirimo abagore babiri, bazanye umwana kumuvuza. Ndetse umuganga wambaye impuzankano, akaba amutunze icyuma gicana, arimo kumufotora, kugira ngo amenye ikibazo umwana afite mu kanwa.

Umusore wicaye usa nkuwakomeretse ku kaboko cyane bikabije bigaragara nk'aho afite uburibwe, yafashe agatambaro agashyira ku kaboko aho yakomeretse hanyuma ashyiraho agatambaro arahafata, yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru aricaye.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri biragaragara ko afite ikibazo mu ivi kuko arimo kurikanda cyane. Yambaye impeta ku kuboko ndetse n'isaha iri mu ibara ry'umukara, nawe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umugabo uri muri siporo ubona ko afite akaboko kateruye ibyuma, arimo gukoza akaboko inyuma mu irugu ndetse kandi yakazamuye agakoza ku nkokora, arimo kureba imbere kugira ngo abe yitegereza ibindi bintu mu gihe ari gukora siporo.

Abantu bane bari gukora siporo, harimo umugabo umwe n'abagore batatu, umugabo ari gukora siporo yo kwicara ahaguruka, hanyuma undi mugore we ari gukora siporo yo kurambura amaboko, undi na we ari gukora siporo yo kurambura amaboko ayegereza imbere, uwa nyuma we ari gukora siporo arambura amaguru.

Umukobwa muremure wicaye, wambaye ipantaro y'umukara, wambaye n'inkweto z'umweru wambaye n'agasengeri k'umuhondo ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Igikombe kinini cyane kimeze nk'kirahure kandi giteye nk'ijage kiramena amazi mu kindi gikombe cy'ikirahure gitoya aho amaze kugeramo acagase .

Icyapa kinini gishushanyijeho abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye, kikaba cyanditseho n'amagambo ari mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi batandukanye bari ku cyapa harimo abagabo, abagore ndetse n'abana bakina imikino itandukanye, hari abakina imikino y'amaguru y'amaboko, ndetse hari n'abiruka bafite icupa mu ntoki bari kunywa amazi.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo igitanda kiryamyeho umurwayi yubitse inda, iruhande rwe hagaze umuganga ari kumwitaho amuvura, hari n'akamashini gafite imibare bakandaho ndetse n'ikirahure cyerekana ibipimo by'uko umurwayi amerewe.

Umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengero y'umukara n'ikabutura y'umukara, yabinditse imisatsi, yapfukamishije amaguru yombi arambura amaboko imbere.

Amacupa menshi atandukanye ateretse arimo umuti wuzuye, hari n'andi mashashi nayo bigaragara ko ari umuti ndetse n'udukoresho twifashishwa bavura umuntu wagize ikibazo cy'imvune.

Umugore n'umugabo bari mu myitozo ngororamubiri, bari ahantu kuri tapi hisanzuye, bari kugorora amaboko ndetse n'amaguru, hakaba n'ibyuma byinshi bifasha abantu muri siporo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye isengeri ndetse n'ipantaro ya siporo, yicaye muri salo iruhande rw'intebe z'imisego akaba yicaye kuri tapi. Imbere ye hari ibyuma baterura mu ntoki ndetse hari na mudasobwa n'icupa ry'amazi.

Inkweto ndende zishobora kugera hejuru ku murundi zifite imishumi y'imikara ndetse hariho icyapa cyanditseho ijambo 'Bato'. Ziteretse hasi ku butaka, bigaragara ko hari umuntu wazikuyemo atarazambara.

Umukobwa wambaye isengeri ndetse n'ipantaro y'umukara ari muri siporo aho ari kugorora ingingo ze ari mu nzu irimo udukombe duteretsemo indabyo z'amoko atandukanye.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara arapfukamishije akaguru kamwe akandi yagateye imbere bisa nkaho agikomeje imyitozo ngororamubiri.

Umwana urwaye urembye cyane, uryamye, hejuru ye hari abantu bamuzengurutse bari kumwitaho ubona ko harimo abaforomo bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ugaragara nkaho ari umubyeyi w'uwo mwana wambaye ishati irimo ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umweru.

Amacupa abiri y'amazi ari kumwe n'icyuma ndetse na metero, hari icunga rikasemo kabiri ndetse hari n'urusenda rw'umutuku.

Umukinnyi uryamye hasi wavunitse hari abatabazi babiri bari kumwitaho bambaye amashati atukura, hejuru yabo hahagaze abandi bakinnyi bari kwitegereza ko uwo mukinnyi mugenzi wabo araza gukira agasubira mu kibuga.

Amacupa menshi ateretse, ari mu ibara ry'umutuku, bigaragara ko harimo umuti. Hari n'ibindi bishashi na byo birimo imiti itandukanye, birambitse aho. Hariho na bande zifashishwa bari kunga abarwayi bavunitse.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye ikabutura iri mu ibara ry'ubururu irimo uturongo tumanuye tw'umweru ku ruhande, wambaye n'agasengeri aricaye yunamye ubona ko akiri mu myitozo.

Inyubako irimo irangi ry'umweru ndetse hakabamo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo intebe zikaraga ndetse n'izifite amapine, harimo na bya bikoresho byifashishwa mu kuzana umwuka mo imbere mu gihe hari ubushyuhe.

Umuganga w'umudamu wambaye ijire, ari gupima umwana, ari kumumurika mu kanwa, arebe ikibazo afite mu menyo. Uwo mwana yambaye agapira karimo amabara y'umweru n'umukara.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isengeri ry'icyatsi ndetse yazamuye akaboko agacisha inyuma mu rugu afite imisatsi iboshye ndetse akandi kaboko nako gafashe mu nkokora.

Umugabo ufite ubwanwa buringaniye, ari kunywa amazi ari mu kirahuri cy'icupa kandi bigaragara ko cy'ikirahure asanzwe aricyo akoresha mu kunywa amazi.

Icupa rinini ririmo amazi, rifite umufuniko w'ubururu. Imbere yaryo hari imbuto nyinshi zitandukanye harimo amacunga, amaronji ndetse hari na metero y'umuhondo ipima uburebure ndetse hari n'icyuma gikoreshwa muri siporo.

Amacupa atandukanye y'ibara ry'umweru ariko akaba ariho icyapa kiri mu ibara ry'umukara, handitsemo ijambo mu rurimi rw'lcyongereza rivuga guhagarara ndetse hakaba n'utundi ducupa dutoya turi ku ruhande.

Mu kibuga kiza kirimo tapi ndetse n'imirongo y'umweru igaragaza amategeko n'amabwiriza agenga ikibuga cyangwa umukino, harimo abakinnyi benshi batandukanye bambaye imyenda ndetse n'inkweto zabugenewe, hari na baro, umwe muri bo yavunitse akaba arimo kwitabwaho.

Icyapa gifite amabara ane, irya mbere ni ubururu, harimo igishushanyo cy'umuntu uri kwiruka. Icya kabiri harimo umuntu uri kunyerera, mu ibara ry'icyatsi. Ndetse iry'umutuku ririmo umusaraba, mu ibara ry'umweru. Hakaba n'irya kaki, na ryo ririmo ikiganza.

Abasore batatu bakina imikino yo gusiganwa bakoresheje ibinyabiziga bya moto, bambaye ibikasike, babiri muri bo bari kurwanira igikasike naho undi we ahagaze ku ruhande, hasi no hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Umuntu wicaye ku gitanda afite agatambaro mu ntoki, biragaragara ko mu ivi yagize ikibazo akaba arimo arahakanda akoresheje agatambaro mu ntoki.

Icyumba gituje hicayemo umugore yicaye kuri tapi arambije amaguru, ari guseka yunamye yarambuye n'amaboko ku maguru bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'icyatsi ndetse yazamuye akaboko agacisha inyuma mu irugu. Afite imisatsi iboshye ndetse akandi kaboko na ko gafashe mu nkokora. Ari kwitegereza inyubako zitandukanye.

Umusore wambaye umupira w'umweru ndetse n'imbere yambariyemo undi w'umukara, afite agatambaro ari gushyira ku nkokora bigaragara ko yavunitse, yicaye mu ntebe z'imisego zifite ibara ry'umweru.

Umusore wambaye agapira gato, bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri, afite imitsi yireze ku kuboko, akagira n'icupa ririmo amazi.

Umukobwa upfukamye wambaye isengeri irimo ibara ry'icyatsi, yahinnye amavi, arambura akaboko imbere yenda kugakoza hasi, ari mu myitozo ngororamubiri ndetse akaba yambaye inkweto z'umweru.

Icyapa kinini kiriho ibishushanyo bitandukanye, muri byo harimo umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, hariho n'ifoto y'umusifuzi n'umukinnyi, hariho n'abandi bari gukina imyitozo ya karate.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri. Ari kuyikorera ahantu harambuye tapi iri mu ibara ry'icyatsi. Harambitseho akabati, yagateyeho akaguru kamwe, asa nk'uzamura intambwe. Yambaye imyenda y'umukara hose, n'inkweto zifunze.

Umugabo ufite amatuza manini cyane ubyibushye ufite amaboko abyibushye cyane, ubona ko yateruye ibyuma ku rutugu rwe hashushanyijeho uturongo turi mu izeru kamwe kari mu ibara ritukura akandi mu ibara ry'ubururu.

Mu nyubako irimo inyanya, tungurusumu ndetse hakabamo ibishyimbo, amashu ndetse n'ibindi bitekwa cyane, hakaba hari n'icyuma gipima umuvuduko ndetse hari n'ibyuma byifashisha cyane cyane mu gusimbuka bizwi nk'umugozi.

Ibimera byinshi bitohagiye bifite ibibabi bitatanye biri mu ibara ry'icyatsi kibisi ariko bifite uruti rutoya runanutse cyane.

Amababi y'icyatsi kibisi, ndetse hirya y'aho hari na cyayicyayi. Haruguru y'izo cyayicyayi hateye ibindi bimera bifite ibibabi by'icyatsi kibisi, ndetse hari n'ibyejeje bifite utuntu tw'umutuku. Hirya y'aho hari n'indimu.

Ikimera gifite ibibabi binini ndetse kizwiho ko aricyo kivura cyane kikunda kuryana mu gutwi mu gihe umuntu akinyweye icyo ngicyo nta kindi nicyo bita umuravumba.

Urugemwe rw'ikimera ubona ko bagisasira bacyitaho neza ni ikimera kiri kuzamuka kigandaye gifite amababi maremare ariko uduti twayo mababi two turananutse.

Icyapa kiri mu ibara rya oranje ndetse hariho ibishushanyo bitandukanye, harimo ibinini ndetse n'icupa ririmo umuti, hakabaho n'ikimera cy'ikibabi kinini kimeze nk'itika ry'amateke bigaragaza ko ariho bakoramo iyo miti.

Igitunguru gisatuye ndetse n'indimu ya rusharira isatuye, hari n'icupa rirerire riri mu ibara ry'umuhondo ripfundikiye rigaragara ko ririmo umuti, hejuru yabyo hari handitse amagambo ari mu nyuguti nkuru.

Igikombe kinini cy'umweru kirimo ikimera gifite ibi babi birebire hirya yacyo harambitse ibikombe bibiri birimo umuti, icupa rimwe rirapfundikiye irindi rirapfunduye riracagase, imbere yabyo hari ibindi bimera bifite ibi babi bisa nka cyakindi kiri mu gikombe.

Umugore uhagaze wambaye igitenge kirimo amabara atukura, arahagaze imbere y'ururabyo ari gusoroma uturabyo twayangitse.

Icupa rinini cyane riri mu ibara ry'umuhondo, hejuru ku mufuniko ni umutuku ndetse iryo cupa rikaba ryandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Umurima urimo ibimera byinshi bitandukanye ariko muri byo harimo icyakuze gifite ibibabi binini bigaragara ko ari imbuto za avoka, hari umuntu ukozeho arimo kwitegereza icyo kibabi.

Amababi y'ibimera arambitse ku gitambaro cy'umukara, amababi amwe yatangiye kweruruka aba umuhondo, andi aracyari icyatsi kibisi, harambitseho irati ry'umweru kuri icyo kibabi.

Ibimera birimo ibice bitandukanye bimwe bifite icyatsi kibisi ibindi bifite amabara y'umweru avanzemo n'ubururu ndetse hari imbuto zejeje zo mu bwoko bw'ipapayi ziri ku giti cy'ishami kiryamye bigaragara ko ari igiti cyavunitse.

Icupa rifite umufuniko w'umweru, ririmo umuti bita reyishi. Ndetse hejuru yaryo handitseho ngo igisubizo kuri amibe. Bagasobanura bagira bati, "Reyishi ni yo yonyine ishobora guhangana na amibe ku kigero cyo hejuru".

Ibiganza by'abantu batandukanye, ikiganza cya mbere gifashe ikimera cy'icyatsi cy'umuvumu, ikiganza cya kabiri gifashe izindi mbuto z'ibimera, naho ibiganza bindi bifashe ibindi bimera bitandukanye, hakaba hari n'ikindi kimera kiri cyonyine kirambitse ahantu mu gihuru.

Amacupa menshi atondekanye ku murongo harimo asa nadasa ariko abiri manini aregeranye ugereranranije n'andi birikumwe .

Ibyatsi bitandukanye bivamo imiti biri mu murima ndetse hari ahari tungurusumu ndetse hakaba hari n'ahari tangawizi iyi y'ibijumba, hakaba ibimera bifite byejeje bifite utubuto.

Icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, ariho ibikombe byinshi bitandukanye birimo indabo ndetse n'ibindi bimera bitandukanye ariko bitohagiye.

Amacupa manini arimo imiti itandukanye yifashishwa kwa muganga, ayo macupa yiganjemo ay'umweru Harimo n'icupa rirerire ry'umutuku ndetse n'irindi ry'umuhondo.

Inzu icururizwamo imiti itandukanye, imwe iri mu dukombe dutoya ndetse indi ikaba mu macupa manini y'imikara, inyuma yayo hahagaze umukobwa wambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'umweru.

Ikirere kirimo ibicu bitandukanye bifite amabara aribyo ibicu by'umweru ndetse n'ubururu, hari ikimera cy'icyatsi kibisi gifite amashami atandukanye, n'ibibabi bigari bimwe bikoreshwa mugu gukora imiti.

Umusozi uriho ibimera byinshi bitandukanye ndetse harimo iby'icyatsi kibisi n'ibindi bifite ibara ry'umweru. Hagaragaramo ibyatangiye kuma bigaragara ko ari mu gihe cy'izuba, ariyo mpamvu amababi yabyo yahindutse.

Umuganga yicaye mu cyumba wenyine, icyumba giteguyemo intebe z'umukara zizengurutse ameza, yicaye aho imbere ye hari isahani ku meza iri mu ibara ry'ubururu ariko hateretse n'andi macupa, uri kubona ko afite nk'umuti ari gusuzuma kuko ari kwitegereza cyane ibyo afite mu ntoki.

Icupa ry'umweru rifite umufuniko w'ibara ry'umweru ndetse rifite ikirangantego cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara avuga ngo vitorayize.

Umusozi uhanamye cyane uriho ibiti bitandukanye ibigufi n'ibirebire, hakabaho n'ibimera by'ibyatsi bimera ku butaka hasi ndetse hari n'aho ibiti bigaragara ko byaguye.

Ikimera kinini gitohagiye gifite uruti rurerure rwigonze, kitwa umuravumba gifite amababi atohagiye cyane, kiri mu ishyamba ubona ko harimo n'ibindi bimera bitandukanye.

Imbuto zitandukanye kandi zisa neza, uzibonye wakwishimira kuzirya, harimo icunga rikasemo kabiri ndetse hakabamo ipera ry'umuhondo hakabamo ndetse n'utundi tubuto dutandukanye.

Amacupa ya fanta ateretse mu tuzu twabugenewe, ndetse hakabamo n'ibirahuri biteretsemo kandi birimo ibyo kunywa, hamwe hagaragara nk'aharimo ji, ahandi harimo n'ibindi binyobwa bitandukanye, ndetse hari n'udushashi tugiye turi hejuru y'ayo macupa.

Ikimera cyera kigandaye, gifite ibibabi na byo bigandaye, ariko ubona ko hari ibyagiye bikokokaho bitewe n'uko kiri gusaza.

Amacupa abiri maremare ndetse n'abiri magufi arimo umuti, abiri ari mu ibara ry'iroza, andi abiri ari mu ibara ry'umweru yose arambitse hamwe ku murongo.

Isahane y'umweru irimo umutobe bamaze kwenga bawuvanye mu indimu, hari n'indi ndimu irambitse muri uwo mutobe, ibibabi byayo babirambitse hasi, hari n'ikindi kibabi kirambitse hasi bigaragara ko ari ik'indimu.

Icyapa kinini kiriho uturongo tubiri tuzamuka, akarongo ka gatatu iyo kageze hejuru gakora uruziga, biri mu ibara risa nk'ikigina, hasi hariho amagambo yanditse mu nyuguti nini zigaragara mu iryo bara.

Ikimera cy'igikakarubamba, ni umuti ukunda kwifashishwa mu buzima busanzwe cyane cyane mu miti gakondo, ni igiti kandi kivura cyane inzoka, handitseho iteka bigaragara ko kivura burundu indwara.

Icyapa kinini, kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'andi mu ibara ry'umukara n'andi mu ibara ry'umutuku, hashushanyijeho ibimera bitandukanye ndetse n'umuntu w'umukobwa wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umukara ubona ko afite isesemi.

Isoko rigezweho risakaye ririmo abaguzi ndetse n'abacuruzi benshi, harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, imboga n'imbuto kandi hakabamo abagore benshi kuruta abagabo.

Igihuru kinini cyane, kirimo ibimera bitandukanye ariko ibyiganjemo n'ibifite ibibabi birebire bishavuye ku mutwe. Harimo n'ibizana uturarabyo tw'umuhondo.

Icupa rinini cyane ripfundikije umufuniko w'icyatsi ririmo umuti wuzuye, rifunitswe n'urupapuro rw'umukara rwanditseho amagambo umuravumba, hashushanyijeho n'ibindi bimera bitandukanye.

Icupa rinini ry'umuhondo rifite umufuniko w'umutuku, ndetse ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku. Riteretse ku meza ndetse n'ikindi kirahure cy'umweru, ku ruhande hari ikimera cy'igikakarubamba.

Umugore n'umugabo bari ahantu mu ishyamba hari ibiti byinshi ndetse bifite amashami agera hasi, umugabo yayagiyemo hagati kandi yambaye ikoti ry'umukara n'umupira w'umweru.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti birebire n'ibigufi, hakaba harimo n'ibimera by'igihuru kinini, ibimera bifite ibibabi birebire ndetse n'ibifite ibibabi bigufiya.

Agacupa k'umuti gacuritse gapfundikije umufuniko uri mu ibara ry'ubururu ariko hasi kari mu ibara ry'umweru, handitseho amagambo agira ati serumu.

Amacupa manini y'umweru arimo umuti wifashishwa kwa muganga ndetse hari n'irindi cupa rinini ryanditseho amagambo manini, iryo cupa ry'umukara ripfundikije umufuniko w'umweru, imbere yaho hari indi miti irambitse ku meza.

Isoko rinini ry'ibinyobwa, hari abaguzi n'abagurisha, hari abaguzi babiri bari kubaza ibiciro hakaba hari amacupa menshi cyane harimo apfundiji imifuniko y'umweru ndetse nandi apfundikije imifuniko y'umutuku.

Umuntu wicaye ku musambi ari gusekura umuti w'ibyatsi mu isekuru, imbere ye hari amasahani arambitsemo indi miti imeze nka tangawize, andi masahani ariho indi miti imeze nk'imizi y'ibimera, ndetse n'indabyo ziri mu ibara ry'umutuku.

Amacupa ateretse ku meza ndetse hakaba n'ibishushanyo by'abantu bitandukanye, bigaragaza aho uwo muti uvura ndetse bagaragaza ko hari uvura amibe.

Ahantu hanini hisanzuye, harimo ibiti by'amoko atandukanye, ndetse n'ibyatsi. Bimwe byeze indabyo z'umweru. Kandi aho kuri uwo musozi hariho n'ahantu hitsemo, bigaragara ko ari akabande.

Ikimera kirekire cyane gifite ibibabi bigandara byihina bigaruka inyuma cyera imbuto zikera zisa nkumuhondo gifite n'utundi turabyo hejuru mu umutwe wacyo.

Umurima uhinze imboga zitandukanye, harimo ishu ritaratangira kubumba ariko ubona ko riri hafi. Ndetse hakabamo n'ayatangiye kubumba, hakabamo tungurusumu ndetse n'ibindi bimera bitoya ku mashu.

Ikimera kigandaye cyane gifite ibibabi bishashe, icyo kimera kikaba gifite uruti ruri mu ibara ry'umuhondo ariko amababi yacyo akaba asa nk'ibara ry'icyatsi.

Icyapa kiriho icupa rifite umuvuniko w'umweru ndetse cyanditseho amagambo agira ati igisubizo ku muryango, hakandikwaho n'andi munsi ari mu kizeru ati uvura kurangiza vuba, gucika intege, bigaragara ko uwo umuti ari cyo uvura muri izo ndwara mvuze haruguru.

Mu gishanga kigari kirimo imashini zifashishwa mu guhinga, harimo ibimera byinshi biteye ku murongo, hari abantu benshi bari muri icyo gishanga ndetse begereye izo mashini zifashishwa mu buhinzi.

Umurima munini w'icyayi urimo abaturage benshi abadamu bafite ibitebo bari gusoromeramo icyo cyayi, harimo abari gusoroma bicaye ndetse n'abahagaze bitwikiriye ibitambaro mu mutwe.

Icyapa kiriho amacupa atatu ateretse n'agasahane kamwe gapfundikije umufuniko utukura, hariho n'udukarito tubiri agakarito kamwe karimo imbuto z'umutuku.

Ku meza hateretseho amacupa atandukanye, hariho uducupa duto tw'umweru turiho ibirango bigaragaza igihe imiti izamara, ndetse hari n'udukarito turimo imiti itandukanye nk'ibinini.

Ikimera giteye amabengeza gifite amababi atohagiye ariko hagati muri cyo hazamukiyemo ikindi kimera gifite amababi yijimye, icyo kimera kikaba gifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'iry'umuhondo.

Uducupa tw'amoko atandukanye, harimo utugufi hakabamo n'utureture, turi mu mabara agiye anyuranye twavugamo umweru, ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, hari n'udukarito dufunze bigaragara ko harimo imiti.

Amacupa ari mu ibara ry'umweru ndetse hashushanyijeho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, hari n'amakarito ku ruhande ariho umubare cumi n'umunani ndetse kuri ayo macupa n'amakarito hashushanyijeho igisimba kiguruka.

uUducupa tubiri tw'umuhondo ndetse dufite imifuniko y'umukara hashushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba cyifashishwa mu kuvura iruhande rw'utwo ducupa hari udukarito dufunze neza tugaragara ko turimowo iby'intungamubiri ku biryo.

Mu misozi miremire hari amazi aturuka ku musozi muremure agwa hasi, hakaba hari abantu bahetse ibikapu bagiye kuhasura. Hari ishyamba ryinshi hafi y'uwo mugezi uturuka mu kirere.

Ibimera harimo ibigufi n'ibirebire, hahagazemo umugore uteze akantu k'agatambaro mu mutwe, uri gusoroma ibibabi kuri ibyo bimera bigaragara ko ari umuti, akaba agira ngo abone uko awukora.

Uducupa tw'umuhondo dufite imifuniko y'umutuku ndetse hashushanyijeho amagambo, hejuru yabyo hari agasazi gafite amababa bigaragara ko ari umuti, ndetse hakaba n'agacupa k'umweru ku ruhande rwa twa tundi tw'umuhondo.

Ibikombe bibiri by'umweru birimo amazi ashyushye harambitsemo ibibabi by'ibyatsi ariko ku ruhande rw'ibyo bikombe harambitse ikibabi cy'ikimera cyitwa umuravumba.

Ikiganza kiri gusoroma ibibabi ku kimera. Ni ibibabi bijya gusa nkiby'ikawa ariko nanone siyo. Ni ibibabi bigandaye ariko ubona bigenda bikokoka uko ikimera kimaze igihe.

Umugore wambaye imyenda y'umweru ndetse ufite igikapu kiri mu ibara rya kaki, afite n'ikindi yiteze. Hakaba iruhande rwe hari ibimera byinshi bitandukanye birimo imiti, hakabamo n'insina ifite amakoma aringaniye ataraba manini.

Ku musozi urimo kubengeranaho ibimera bitandukanye, bigaragaza ko ari mu gihe cy'itumba, hakaba hari ingiga ziteretseho amakarito atandukanye bigaragara ko arimo imiti.

Amajerekani ane y'imihondo ndetse ashushanyijeho ikimera cyitwa igikakarubamba ndetse n'amagambo, agaragaza ikiri muri iyo njerekani, hakaba n'uducupa dutoya tw'imiti. Hakaba n'ibindi bifunze mu mashashi yabugenewe.

Injekani ebyiri ziri mu ibara ry'umuhondo, ziteretse ahantu haringaniye, ziriho igishushanyo kigaragaza ko ari ikimera cy'igikakarubamba ndetse ku mpande hari udukarito turimo ibintu bitandukanye ariko hariho igishushanyo inyuma cyanditseho F na cumi na gatanu.

Ahantu hitaruye hari ibimera. bizwi kwizina ry,ibi kakarubamba, nibyinshi bigaragare ko arumurima wimiti ndetse harimo nikindi giti kibisumba.

Ishashi iri mu ibara ry'umuhondo irimo umuti, uwo muti ariko wo urasa umukara bigaragara ko ukoze mu bimera, inyuma kuri iyo shashi hashushanyijeho ibimera bitandukanye kandi handitseho imibare garama ijana.

Ikimera k'ikibabi gifite ibara ry'icyatsi kibisi cyanditseho amagambo agira ati ni iki kibabi cyifashishwa mu kuvura imiti gakondo.

Ibirahuri bibiri birimo imiti itandukanye, ndetse harimo igisura bashyize mu mazi n'ibindi bibabi, amazi arimo kuva muri ibyo bimera arasa umutuku, bigaragara ko ari umuti uvura indwara zitandukanye.

Amacupa maremare apfundikiye ubona ko arimo imiti ateretse ku murongo, ariko ayo macupa abiri asa umweru irindi rimwe risa umuhondo. Ariko icyo ahuriyeho nuko yose ashushanyijeho ibimera bimeze kimwe.

Amacupa abiri asa ibara rimwe ry'umuhondo hejuru apfundikije imifuniko y'umukara. Ayo macupa ashushanyijeho ibara, ikimera cy'igikarubamba imbere yayo harambitse cya se hateretse ikirahure kirimo amazi atuzuye.

Icupa rirerire ry'umweru, ririmo umuti wifashishwa kwa muganga, uwo muti ukaba mu ibara ry'icyatsi imbere yaho hari ikimera cy'igikakarubamba kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umuhondo.

Akavido kanini cyane karimo umuti wuzuye neza gapfundikije umufuniko utukura kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Ibihoho birimo itaka ndetse harimo ibimera bimaze gukura cyane ku buryo byajya guterwa ndetse hirya yabyo hari amashitingi y'umweru bigaragara ko hari ibikiri bitoya bitaragerwa mu bihoho.

Ameza hariho ibintu byinshi bitandukanye, turabonaho imineke, inanasi ndetse n'amakarito arimo ibintu byinshi by'amoko atandukanye, ku ruhande rwabyo hari ururabyo rurimo umuhondo n'icyatsi.

Amacupa atanu atondetse ku murongo arimo ibintu bisukika by'umutuku, ndetse hari n'aharimo ibintu bisukika by'icyatsi, afite imifuniko itandukanye ndetse ariho n'ibirango bigaragaza ikirimo n'ubuziranenge bwabyo.

Icupa ry'umweru rifite n'umufuniko nawo w'umweru ni irinini rikunze kuba ririmo ibinini, inyuma yaho ku gishushanyo hariho inyamaswa nto ifite amababa, ndetse hakabaho n'amagambo yanditse kuri icyo kirango.

Ahantu hazitiye ubona ko hari umutekano, harimo udukombe duteretsemo ibimera bigaragara ko ariho batwororera ndetse ibyo bimera bimaze gukura bifite amababi meza y'icyatsi kibisi.

Icyapa cyanditseho amagambo akurikira, hejuru handitseho ko ari ibiti bivamo imiti. Ndetse hariho ibiri mu bwoko bw'indabyo hakabamo ibikakarubamba n'ibindi byeza uturabyo tw'irozi.

Icupa rirerire ry'umweru rifite umufuniko w'umweru, iryo cupa rikaba ritambikamo umurongo w'umuhondo urizengurutse.

Icupa rinini ry'umweru ririmo umuti wifashishwa kwa muganga. Iryo cupa rikaba rizengurutsweho n'urupapuro rurimo ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru ryanditsemo amagambo.

Igihuru kirimo ibimera byinshi bitandukanye ariko hagati haragaragara ikimera gifite ibibabi bigandaye cyane, ibyo hasi byatangiye kweruruka mu ibara risa nk'umuhondo, ariko ibyo hejuru biracyarifite ibara ry'umwimerere ry'icyatsi.